Umuhuro cyangwa se inama irimo inzego z'ubuyobozi, ukaba nanone witabiriwe n'abaturage, barimo kugezwaho ikiganiro n'umuganga cyangwa se uwahuguwe gutanga inama ku bijyanye n'ubuzima ndetse abicaye bose bateze amatwi inama barimo baragirwa cyangwa se amahugurwa barimo guhabwa.

Umwana muto ufite ijerekani, waje mu kidendezi cyangwa se icyuzi kirimo amazi. Yaje kuvoma amazi. Bigaragara ko aya mazi ari kuvoma ari amazi mabi, ntabwo ari amazi meza urebye uko asa, aya mazi afite ibintu byinshi byatuma yatera indwara kuko ntabwo asa neza.

Ikidendezi kinini cy'amazi cyubakiye, kirimo ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutunganya amazi mabi kugira ngo abe amazi meza. Hagiye hari ibidendezi byinshi bigiye bitandukanye bikoze mu buryo bumwe kugira ngo hasukurwe amazi ashobora gukoreshwa indi mirimo. Adashobora kuba yakangiza ubuzima bw'abantu.

Abagore baje bitwaje ibikoresho byo gutwaramo amazi by'indobo kw'ivomero rusange baje kuvoma amazi meza abafasha mu kugira isuku cyangwa se gutunganya ibikorwa birimo nk'amafunguro, gukora isuku y'imyenda ku buryo cyibafasha kugira ubuzima bwiza birinda indwara zituruka ku mwanda bakoresha amazi meza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga ndetse n'umurwayi, abaganga bambaye ibikoresho bi bafasha mu bwirinzi ku buryo ki badashobora kuba bakanduzwa indwara runaka n'umurwayi, umurwayi wicaye ku ntebe wambaye agapfukamunwa akaboko kiwe arimo arapimwa na muganga ubushyuhe umubiri we ufite, kugira ngo bamuhe ubufasha bwo kumuvura.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano y'ishuri. Bicaye mu ishuri inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho amasomo amwe n'amwe bagenda biga. Bambaye udupfukamunwa ariko barimo bafata amafunguro. Barishimye buri munyeshuri afite isahani iriho amafunguro arimo kurya imbere yiwe, bishimiye kuba bari muri uwo mwanya.

Ivomero rusange abadamu batatu baje ku ivomero rusange gushaka amazi, babiri muri bo bafashe icyuma cyo kwitiyo bari kugikubita bakizamura bongera bakimanura amazi agaturuka mu kuzimu akazamuka, umubyeyi wa gatatu afite indobo n'ibindi bikoresho biri gufata ayo mazi ari kuza, ari kuza ayavoma ayakuramo ayashyira iruhande.

Abantu bagera kuri batanu bicaye mu buryo bw'uruziga bari mu nama barimo kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye zita ku buzima, umwe muri bo ari gutanga ibitekerezo abandi na bo bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibitekerezo arimo gutanga, buri umwe wese afite aho kwandika ku buryo ubashije gutanga ibitekerezo cyangwa se izindi ngingo zimwe na zimwe bashobora kugira aho bazandika mu makayi bafite.

Umugezi uzwi nka kana, abana batatu bazanye utujerekani baje kuvoma, umwe muri bo mukuru muri bo ari kugenda apompa amazi agenda aza, umwana wundi na we afashe akajerekani uko amazi ari kuza na we arimo aravoma, hirya yaho hari umubyeyi na we urangije kuvoma urimo agenda ava ku mugezi yerekeza hirya yawo.

Abana batatu bakiri bato, bishimye bari guseka. Barimo gukaraba intoki n'amazi meza. Basa nkaho bitegereza umuntu uri iruhande rwabo urimo kubabwira uko bakaraba intoki kugira ngo bamareho imyanda ku ntoki zabo. Isuku ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza iyo yakozwe neza hifashishijwe amazi meza. Nkuko aba bana barimo gukora isuku.

Mu gikari cyo mu rugo hari agatara, kashyizweho amasahani yamaze kozwa, kugira ngo yumuke, harwanywa udukoko dutera indwara, twaba tukiyariho kugira ngo aze gukoreshwa yumutse neza.

Abana babiri, umwe ari gukora isuku y'igikoresho runaka, mugenzi we w'umwana we afite igikoresho k'ibinika arimo amusukira amazi kugira ngo abashe gusukura icyo gikoresho arimo gukorera isuku, bari mu rugo.

Umukozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima. Ryazanye ibikoresho bigiye bitandukanye ku kigo cy'amashuri. Arimo gufashwa n'umugore urimo ugenda azana ibyo bikoresho baribwifashishe mu gupima cyangwa se mu guhereza abana imiti kugira ngo barebe aho ubuzima bwabo buhagaze, abafite ikibazo mu buzima babafashe, babavure.

Umubyeyi wazanye ijerekani akaba yaje kuvoma amazi mu kidendezi, inyuma yiwe hari umusore urimo koza igare, bigaragara yuko aya mazi arimo avomwa n'uyu mubyeyi ari amazi mabi atari amazi meza yo gukoresha imirimo igiye itandukanye cyangwa se akaba yanyobwa.

Abana babiri bato b'abahungu, bari ku itiyo ririmo risohora amazi. Barimo gukaraba intoki. Barishimye ko bari gusukura intoki zabo ndetse umwe muri bo, abumbatiye intoki asa n'ugiye gutega amazi hanyuma akayanywa.

Umwana muto waje ku ivomero rusange, akaba yazanye igikoresho cyo gutwaramo amazi, ndetse hari n'ibindi bikoresho bijye bitandukanye indobo zihari nyinshi bigaragara ko abantu benshi baje gutora amazi kuvomera rusange bagiye gukoresha mu kurwanya umwanda no kwimakaza isuku.

Umuhuro w'abagore n'abagabo b'ingeri zigiye zitandukanye, barimo kuganira ku bijyanye n'inzego z'ubuzima n'uko zikwiriye kuzahurwa, umudamu urimo hagati urimo ubagezaho ikiganiro abitabiriye iyi nama cyangwa se umuhuro bose bamuteze amatwi, barimo kumva ubutumwa arimo abagezaho, ndetse harimo n'abafite amakayi barimo kwandika ibitekerezo bigiye bitandukanye.

Icyumba kabuhariwe mu kwakira inama. Kicayemo abantu bagiye batandukanye. Muri abo bantu harimo urimo kubagezaho ikiganiro. Abantu bicaye mu buryo bw'uruziga, bateze amatwi umugabo umwe urimo kubaganiriza. Bigaragara yuko ahantu bari ari ahantu mu biro, habera inama z'abayobozi bakomeye, kuko harimo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi birango by'Igihugu. Bari mu nama bagezwaho ingingo zimwe na zimwe.

Abarwayi baje kwa muganga ku kigo nderabuzima baje kwivuza umuganga agenda yakira umwe umwe, bicaye bakurikiranye uko baje, muganga aragenda yakira umwe umwe areba ibyangombwa byiwe kugira ngo baze kumufasha kumuvura.

Umuhuro w'abantu benshi, bambaye impuzankano z'amataburiya y'ubururu. Bamaze guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'uko bakwiriye kwita ku baturage, nk'abajyanama b'ubuzima. Basoje gukora amahugurwa barimo kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye bishimiye igikorwa bari barimo.

Abaganga barimo gutanga serivisi zo gukingira, bambaye impuzankano y'akazi ndetse bambaye n'ibikoresho bafasha mu bwirinzi na gant ku ntoki ndetse n'udupfukamunwa, bari no gutanga inkingo zigiye zitandukanye bahereye ku bakozi cyangwa se abajyanama b'ubuzima.

Umubyeyi uri kwa muganga mu nzu ivurwamo ababyeyi, aratwite, arimo gusuzumwa n'abaganga babifitiye ububasha n'ubushobozi ndetse babifitiye ubumenyi kugira ngo bamukurikirane, bamenye uko bamufasha hanyuma aze kubyara kandi abyare neza.

Icyumba cyabugenewe kirimo ibikoresho bigezweho byifashishwa n'abaganga mu gutanga ubuvuzi ndetse harimo n'urumuri ruhagije ku buryo umuntu urimo abasha kubona bitamugoye ndetse ku nkuta y'iki cyumba harimo amateleviziyo agezweho abasha kunyuzwaho amakuru cyangwa se ubundi butumwa butambutswa iyo bashaka kubugeza ku barwayi cyangwa se abari muri icyo cyumba mu buryo bworoshye.

Umubyeyi w'umukecuru wambaye umupira w'ubururu urimo uturonko tw'umweru akenyeye igitenge ndetse akaba anambaye n'ingofero y'ubururu. Yazanye ijerekani yaje kuvoma ku ivome rusange riri mu misozi kugira ngo abone amazi.

Ivomero rusange. Abana benshi bagiye batandukanye bazanye ibikoresho batwaramo amazi. Amajerekani manini ndetse n'utujerekani duto dutwarwa n'abana bato. Barimo bitegereza mugenzi wabo urimo uvoma, arimo agenda azamura yongera amanura, kugira ngo amazi ave mu kuzimu, hanyuma abandi nabo bateze amajerekani kugira ngo amazi ajye aza bahita bavoma.

Abana benshi bambaye umwambaro w'ishuri. Bari mu kigo cy'amashuri. Bari ku ivomero rusange riri mu kigo cy'amashuri, aho abana bose biga muri iryo shuri baza kunywa amazi yo kunywa. Rifite imigezi myinshi ku buryo buri mwana aza akabona aho ashobora gukaraba intoki ndetse no kunywa amazi. Bishimiye ko bafite iryo vomero mu ishuri ryabo. Biragaragara ku maso.

Abakora mu nzego z'ubuzima, cyangwa se abaganga, cyangwa se abajyanama b'ubuzima, bambaye imyambaro yabugenewe y'akazi, amataburiya ndetse n'amabaje y'imigozi bayambaye mu ijosi. Basa nk'abasoje amahugurwa runaka bagezwagaho n'abayobozi, kuko barimo gufata ifoto y'urwibutso, basoje iyo nama bari barimo bishimiye igikorwa bari barimo, kuba bongerewe ubumenyi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi uteruye umwana, umuganga na we wambaye ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga, itaburiya umwambaro umuranga, arimo guhereza umwana umuti, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ababyeyi baje kwa muganga bafite abana, imbere yabo hari umuganga urimo kubasobanurira ku ngingo zigiye zitandukanye. Iruhande rw'umuganga hari umunzani ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gupima abana bakiri batoya ibiro byabo ku munzani.

Abaganga bambaye umwambaro w'akazi, bakoresha iyo bari gutanga serivisi z'ubuvuzi, bakaba birinze mu buryo bushoboka bakaba bambaye udupfukamunwa cyane cyane uyu muganga uri kugaragara, hakaba hari imashini zabugenewe mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, barimo kugenzura cyangwa se bashyiramo porogaramu zibafasha kugira ngo batange izo serivisi z'ubuvuzi.

Ivomero rusange riri mu giturage aho abana bato baje bafite utujerekani dutoya baje kuvoma amazi, iruhande rw'ivomero hari umukobwa urimo kugenda abafasha kugira ngo amazi azamuka ave mu kuzimu, hanyuma abana na bo bateze utujerekani kugira ngo amazi ajyemo, uyu muntu uri kubabaja bisa nkaho yatambukaga ahanyura ariko abona atabasiga bonyine, araza abahereza ubufasha bwo kugira ngo abafashe babone amazi.

Ababyeyi batandukanye bari ahantu hamwe, hakaba harimo ababyeyi batatu bambaye amajiri, basa nkaho baje mu bukangurambaga bwo kwigisha ababyeyi ibijyanye n'imirire myiza ndetse no kwita ku isuku mu buryo bugiye butandukanye mu ngo zabo, barimo bahugurwa ku bijyanye n'icyongicyo.

Ivomero rusange. Aho ababyeyi ndetse n'abagabo n'abana baje kuvoma, umwana umwe afashe ijerekani, undi mudamu na we ari ku mugezi ari kujya azamura icyuma yongera akimanura, amazi akava mu butaka, hanyuma umwana ufite ijerekani akayifata neza amazi akajyamo, ababyeyi bose barimo bitegereza uwo mudamu watinyutse akaba arimo avoma.

Ivomero rusange riri mu mudugudu rikaba rifite amatiyo agiye atandukanye asohora amazi. Bigaragara ko ababyeyi cyangwa se abana baje kuvoma bari bamaze igihe kinini batabona amazi. Kuko iruhande rw'itiyo hari umutekinisiye waje gukora amarobine amwe n'amwe yaramaze igihe adakora kugira ngo abaturage babone amazi meza. Baje bafite ibikoresho byo gutwaramo amazi.

Inama Mpuzamahanga. Cyane cyane ikaba yaritabiriwe n'abashoramari bashaka gushora imari mu bijyanye n'ubuzima. Harimo abagabo babiri ndetse n'umudamu umwe, bicaye imbere basa nk'abayoboye inama. Barimo baganiriza abantu bitabiriye inama, abitabiriye inama nabo bateze amatwi. Umwe muri abo bagabo bari imbere afashe ijambo arimo kuvuga, n'abandi bicaye imbere bamuteze amatwi bari kumva ibyo arimo kubagezaho.

Umubyeyi uteruye umwana. Yamuzanye kugira ngo ahabwe serivise zo guhabwa urukingo. Umuganga na we arimo aramuha urukingo. Bigaragara yuko umwana atishimiye igikorwa ari gukorerwa kuko arababaye, asa n'uri kurira ariko umuganga yishimiye igikorwa arimo gukora ndetse n'umubyeyi arimo kwitegereza uko bari gufasha umwana we.

Abana batatu bazanye indobo, baje ku kidendezi kuvoma amazi. Amazi barimo kuvoma ni amazi mabi, kuko ntabwo asukuye, atera indwara. Buri mwana wese yazanye igikoresho cy'iwe, barunamye barimo kudaha amazi, ngo bayajyane iwabo mu rugo.

Ababyeyi bicaye muri salle, bambaye impuzankano y'amataburiya y'ubururu asa, bigaragara yuko bari guhabwa amahugurwa ku ngingo zigiye zitandukanye ziganjemo iz'ubuzima, barimo bateze amatwi urimo kubahereza ikiganiro.

Abana bambaye impuzankano, bari mu kigo cy'ishuri, buri mwana wese afite igikombe kandi bishimiye kuba baje kuvoma amazi yo kunywa, harimo ibikoresho byabugenewe biyayungurura, buri mwana wese arumva ashaka kunywa amazi meza bazaniwe, amazi meza atuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku bana. Buri mwana agomba guhabwa serivise cyangwa se agahabwa uburenganzira bwiwe by'ibikorwa agomba gukorerwa ndetse n'ibyo agomba. Buri mwana wese akabibona. Ni ibyo iri shami rishishikariza cyangwa se ryifuza ko buri mwana yakagombye kuba ahabwa uburenganzira bwiwe.

Abana batoya bambaye impuzankano y'ishuri, bakaba basuwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku bana, ndetse hakaba haje na none Abazungu baturuka mu gihugu cya Island kiri ku mugabane w'u burayi, nabo batanze inkunga mu kubaka inyubako nziza zigezweho baje gutaha, abana bishimiye kuba basuwe n'abashyitsi.

Abajyanama mu by'ubuzima, barimo baganiriza umudamu uri kumwe n'umugabo. Bisa nkaho ari umugore n'umugabo bashakanye. Barimo baraganirizwa ku buryo bw'imyororokere ndetse ku buryo uko umubyeyi utwite akwiriye kwitabwaho, kugira ngo yuzuze inshingano zimwe na zimwe kugira ngo umwana atwite abashe kugira ubuzima bwiza. Bishimiye ikiganiro barimo bagirana n'umujyanama w'ubuzima.

Ibigo n'imiryango mpuzamahanga ifatikanyiriza hamwe kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza, harimo nk'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku bana, umuryango w'abibumbye muri rusange, ishami ryabo rishinzwe kwita ku mpunzi, ishami rishinzwe kurwanya kovide cumi n'icyenda, ndetse na banki y'isi, n'indi miryango mpuzamahanga ifatikanyiriza hamwe kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza, binyuze mu gutera inkunga mu buryo bugiye butandukanye.

Abaganga bambaye imyambaro yabugenewe. Amataburiya y'ubururu. Barimo kwita ku barwayi babafata ibipimo kugira ngo barebe ibibazo by'uburwayi baba bafite. Cyane cyane ahanini higanjemo abakuze. Hari umusaza wicaye urimo gufashwa bisa nkaho arakaye cyangwa se atishimye.

Icyumba kirimo intebe nyinshi, cyicayemo abantu bagiye batandukanye, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati ijya gusa umweru, arimo abaganiriza ku ngingo zigiye zitandukanye, bigaragara yuko aba bantu bitabiriye inama cyangwa se amahugurwa runaka, hari n'abafite agapapuro cyangwa se ikayi y'aho bari kwandika ibyo barimo baganirizwaho.

Umugabo wambaye neza urimo gukaraba intoki kuri kandagirukarabe iri mu rugo, yishimiye kuba arimo gukaraba intoki kugira ngo agabanye imwanda ku mubiri w'iwe, cyangwa se mu biganza by'iwe.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana, umubyeyi yambaye agapfukamunwa, umwana arimo arakarabywa intoki n'umubyeyi akoresheje isabune, amwerekera uko bakaraba intoki neza bamaramo imyanda mu ntoki ndetse no mu nzara, kugira ngo agire isuku ihagije ku ntoki ze.

Ababyeyi baje ku ivomero rusange bazanye abana babo, ndetse umwe mu babyeyi yazanye ibase arimo arakarabya umwana ku ivomero rusange, abandi bana nabo bazanye ibikoresho byo gutwaramo amazi, n'undi mubyeyi nawe yazanye indobo ndetse bari ni ijerekani inyuma y'iwe, ku buryo ki bishobora kuba nawe yahakarabiriza umwana w'iwe, amazi meza ari muri bimwe bituma umuntu abasha kugira isuku.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi. Bicaye mu buryo ki bumwe wese ufite agakayi ndetse n'ikaramu barimo kugenda bandika ibitekerezo cyangwa se inama barimo kugirwa cyangwa se amahugurwa barimo guhabwa muri iyi nzu mberabyombi. Imbere yabo hicaye umuntu urimo kubagezaho ikiganiro ku ngingo zigiye zitandukanye, kandi buri umwe uri muri iyi nzu mberabyombi ateze amatwi kumva ibyo bari kumugezaho.

Ababyeyi bazanye abana baje gukingirwa, buri mubyeyi wese yazanye umwana wiwe bicaye mu ntebe aho abaganga bazanye ibikoresho byabugenewe barimo bagenda bafasha ababyeyi bazanye abana babahereza inkingo.

Ivomero rusange riri mu mudugudu, abana bagiye batandukanye benshi bahuriye ku ivomero, buri umwe wese arashaka gukaraba intoki, kugirango bakure imyanda iri ku ntoki zabo, ndetse bishimiye kuba bari kubona amazi iruhande rwabo, buri umwe wese afite ishyaka ryo kwegeraho amazi ari kugira ngo akarabe intoki.

Ikibuga runaka kirimo ubwanikiro buriho shitingi hasi. Hariho abagabo n'abagore bari kugenda batera imifuka bayizana kuyishyira mu mwanya umwe. Bigaragara yuko ari ahakusanyirizwa umusaruro hanyuma ibinyabiziga nk'imodoka bikaza kuwutora biwujyana kuwubika ahandi habugenewe cg se buwegereza inganda.

Inzu mberabyombi, irimo intebe nyinshi zicaweho n'ababyeyi bazanye abana bakiri bato, umubyeyi ufite ifishi mu ntoki ziwe, akaba ateruye umwana, yaje kumukingiza, cyangwa se gusuzumwa ko umwana we nta kibazo afite cy'uburwayi, yaba anarwaye akavaho ahawe serivisi z'ubuzima, ni cyo kimwe n'abandi babyeyi bicaye bategereje gufashwa.

Abantu bagiye batandukanye bahuriye mu cyumba kimwe kinini, basa nkaho bari mu nama barimo baganira ku ngingo zimwe na zimwe, batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, buri wese uko agiye abyumva bitewe n'intego bafite y'iyo nama.

Umubyeyi uteruye umwana, yamuzanye kwa muganga, yaje gukingirwa cyangwa se guhabwa izindi serivise zitangwa no kwa muganga, umuganga urimo kumwakira arishimye kandi arimo guseka ariko umwana yamutinye bigaragara, asa nkaho yatinye igikorwa agiye gukorerwa.

Umubyeyi wicaye uteruye uruhinja, imbereye hicaye undi mubyeyi ufite impapuro cyangwase ikaye arimo arebamo ibijyanye n'ibyangombwa cyangwase umwirondoro w'umwana uri guhabwa serivisi zo kuvurwa, hirya yaho hari undi mubyeyi urimo ureba imiti cyangwase ibinini byo guhereza umwana waje kwivuza, umubyeyi uteruye uruhinja bisa nk'aho yaje ku kigo nderabuzima aje gushaka serivisi z'ubuvuzi.

Urubyiruko rw'abakobwa rwahurijwe hamwe rurimo rwigishwa ku bintu runaka kugira ngo bihangire imirimo biteze imbere. Bishimiye igikorwa barimo, buri umwe wese arishimye kandi biragaragara inyuma.

Ibikoresho byabugenewe bibika gazi, cyangwa se ibindi bikoresho by'ibinyabutabire byifashishwa mu kuzimya umuriro iyo bibaye ngombwa y'uko haboneka inkongi y'umuriro. Ibi bikoresho byifashishwa mu gusohora ibinyabutabire bishobora kuba byawuzimya kugira udakwirakwira cyangwa se ugakomeza kwangiza ibintu.

Abantu benshi bambaye imipira isa y'umweru. Bigaragara yuko basoje inama cyangwa se amahugurwa, barimo bahugurwa ku bijyanye n'ubuzima nuko bakwiye kwimakaza ubuzima. Barimo bafata ifoto y'urwibutso, bitewe n'igikorwa bari bavuyemo cyo kuganirizwa. Ayo mahugurwa yatewe inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu Rwanda.

Ivomero rusange riri mu mudugudu. Ababyeyi n'abana ndetse n'abagabo bazanye amajerekani, umudamu umwe afite icyuma cyo ku itiyo ari kugenda akizamura yongera akimanura kugira ngo amazi ave mu kuzimu ndetse n'umwana w'umusore ateze ijerekani amazi ari kuza ahita avoma. Bishimiye kuba barahawe ivomero rusange ryiza mu mudugudu wabo.

Ubukangurambaga cyangwa se kwigisha abana bato ibijyanye n'imibereho myiza cyangwa se uburyo ki bakwiye kwitwara muri sosiyete, hari umugabo wambaye umwambaro wabugenewe urimo gusobanurira abana, ndetse n'umugabo wicaye bigaragara yuko aba ari ababyeyi bari kumwe n'abana bari gukurikira amasomo ari gutangwa n'uyu mugabo wambaye umwambaro w'akazi kugira ngo bajye bafasha abana babo gukomeza kubibutsa.

Abantu benshi bagiye batandukanye bahagaze ku mirongo bahanye intera, bambaye udupfukamunwa mu buryo bwo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya covid-19, abaganga bambaye imyambaro yabugenewe ndetse baka bambaye n'udupfukantoki, n'udupfukamunwa, n'imyambaro yindi yabugenewe, ibafasha kuba batakanduzwa n'umurwayi, baje gupima abarwayi mo covid-19, bari gupima umusaza ibipimo byo mu kanwa.

Umurwayi waje gushaka serivisi z'ubuzima, yambaye imyambaro yabugenewe abaganga bambika umurwayi iyo bagiye kumukorera ubuvuzi cyangwa se bagiye kumuha serivisi z'ubuvuzi, umudamu w'umuganga yamwambitse agakoresho kabugenewe mu kaboko kiwe k'ibumoso, kugira ngo abanze afatwe ibipimo mbere yo kuvurwa, iruhande rw'umurwayi na none hari umugabo ufite impapuro cyangwa se amadosiye ariho ibiranga umurwayi.

Ababyeyi bicaye ku ntebe bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima. Buri mubyeyi afite ifishi imbere yiwe. Barimo gupimwa bafatwa ibipimo mu kaboko cyane cyane nk'ubushyuhe kugira ngo abaganga baze kubigenderaho bamenya ibibazo bafite mu mubiri. Niba ari n'abo kugirwa inama bazibagire uburyo ki bakwiriye kwita ku buzima bwabo. Buri umwe wese ategereje ko aribwakirwe.

Umukobwa usutamye, urimo kuvoma amazi ku mugezi, wishimye inyuma ye hari imigozi yanditseho imyenda, arimo akorera isuku imyambaro igiye itandukanye, kugira ngo ayisukure ise neza.

Ubukangurambaga bwakozwe mu bijyanye no kwita ku buzima bw'abantu. Abantu benshi bahagaze bitegereza umugabo wicaye urimo ufashwa kuvurwa, iruhande rwe hari umugabo wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi urimo kumufasha amuha ubuvuzi.

Inama mpuzamahanga irimo iganirwaho ku bijyanye n'ubuzima, bigaragara ko yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye baturutse mu mahanga. Aba bantu basa nkaho bakurikiye ikiganiro kibagezwaho n'umuyobozi, bateze amatwi bumva ijambo ririmo ribagezwaho kugira ngo bumve ingingo zigiye zitandukanye zirimo kuganirwaho muri iyi nama bitabiriye.

Ivomero rusange riri mu mudugudu, ababyeyi ndetse n'abana bazanye amajerekani kugira ngo bavome amazi meza, batonze umurongo bakurikije uko bagiye baza kuvomera, ababyeyi barimo baritegereza hirya basa nk'aho bareba abandi bantu baje kuvoma nabo bafite ibikoresho, byabo batwaramo amazi.

Umwana w'umusore urimo gukaraba intoki ku ivomero rusange. Ndetse iruhande rwe hari indobo. Bigaragara ko aje kuvoma amazi meza yo kujyana gukoresha ibikorwa by'isuku mu rugo. Amazi meza ni kimwe mu byifashishwa gutuma abantu babasha kugira isuku ndetse no kurwanya indwara zigiye zitandukanye zituruka ku isuku nkeya.

Abantu bicaye mu cyumba mu buryo buzengurutse bukoze uruziga. Bigaragara ko ari abakomeye bari mu nama, bari kwiga ku ngingo zigiye zitandukanye. Imbere yaho hari igikoresho cyifashishwa mu gusakaza amashusho, mu buryo bugari. Bunini ku buryo ki ibyo barimo baganiraho bashobora kuba bari no kubisoma imbere yabo.

Abajyanama b'ubuzima cyangwa se abaganga bita ku bijyanye n'ubuzima barimo gusobanurira abayobozi ibijyanye n'uko imiti ikora ku buryo abayikoresha bayikoresha mu buryo bwiza. Ni nk'ubukangurambaga barimo bwo kurwanya indwara runaka. Haje n'abanyamakuru barimo gufata amafoto kugira ngo babashe kuyasakaza ku buryo abatabashije kwitabira icyo gikorwa baza kubibona mu buryo bworoshye.

Umubyeyi uteruye umwana, yaje ku ivomero rusange kuvoma amazi meza gukoresha ibikorwa by'isuku, yazanye indobo y'umukara iteretse kuri robine arimo kuvoma amazi ajyana mu rugo, umubyeyi wishimye cyane ateruye mwana, yishimiye kuba aje kuvoma amazi.

Umukobwa usutamye akaba afite ijerekani ry'umuhondo arimo avoma amazi ku ivomero, arimo gukora ibikorwa by'isuku amesa imyenda, inyuma yiwe hari imigozi yanditseho imyenda yamaze gusukura, yishimiye kuba arimo avoma amazi yarangiza agakora isuku, irimo kumesa imyenda.

Abayobozi bagiye batandukanye harimo abagore n'abagabo. Bahagaze mu buryo bwiza basa nk'abari gufata ifoto y'urwibutso. Hari nk'inama mpuzamahanga yari ibahuje bari bahuriyemo, baganiraga ku ngingo zigiye zitandukanye, bakaba bafata ifoto y'urwibutso nk'ibihe byiza byaranze icyo gihe cy'inama bari bamazemo igihe.

Abana bato babiri baje ku ivomero rusange riri ahantu mu murima cyangwa se mu gisambu kinini, amazi arimo kuva mu itiyo amanuka na bo barimo gukaraba intoki bishimiye kuba amazi arimo kuva mu itiyo, bigaragara yuko bishimiye kuba bari gukaraba intoki ndetse umwe muri bo bigaragara yuko arimo ayora amazi ava mu itiyo kugira ngo ayanywe.

Ikidendezi kinini cyubakiye mu buryo bugezweho, hakaba harimo ibikoresho kabuhariwe by'ibyuma bifasha mu gutunganya amazi, akaba ari uruganda rutunganya amazi rukayagira amazi yo gukoresha havuyemo ibyayanduza byose akaba ari amazi meza ashobora kuba yakoreshwa imirimo y'isuku ndetse akaba yananyobwa.

Abana bato bambaye impuzankano z'ishuri, bari guseka barishimye. Barimo barakaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune. Buri mwana imbere ye hari robine ifunguye, ndetse barimo barakaraba intoki bakoresheje isabune kugira ngo bagire isuku nziza, barwanya indwara zishobora kuba zaturuka ku isuku nkeya.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri, iniforume. Umwana w'umukobwa akaba yaje ku itiyo cyangwa se ivomero aho yaje kunywa amazi, imbere yiwe hari kandagira ukarabe cyangwa se aho umuntushaka kuba yakarabira intoki, indobo y'icyatsi kibisi, ikaba yaratanzwe cyangwa se yaratewe inkunga ihabwa iki kigo n'ishami ry'umuryango w'abibubye rishinze kwita ku bana.

Ababyeyi bazanye abana babo guhabwa serivisi zo gukingirwa, aho umwana arimo areba uri gutanga serivisi zo gukingirwa amwitegereza mu maso, bisa nk'aho umwana atishimiye igikorwa arimo gukorerwa, umubyeyi nawe arimo aritegereza uko umuganga cyangwa se utanga serivisi arimo kuzitanga, hirya y'aho hari undi muganga urimo kwegeranya amadosiye yazanywe n'ababyeyi.

Abagore n'abagabo. Bahagaze ahantu mu murima cyangwa se mu giturage hadatuwe. Hatari amazu menshi. Bafite ibipapuro byanditseho amagambo amwe n'amwe. Bisa nkaho bari mu bukangurambaga cyangwa se kwerekana ibiharanira uburenganzira bwabo wenda badahabwa, kugira ngo babuhabwe. Gusa buri bamwe bose bishimiye kuba bari muri icyo gikorwa barimo.

Umuhuro w'abantu bagiye batandukanyemo higanjemo abakomeye. Basoje inama Mpuzamahanga runaka yakirwaga n'Igihugu cy'u Rwanda. Kuko ahagana ibumoso hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse iruhande rw'iburyo hari ibendera ry'Umuryango Mpuzamahanga. Ni abayobozi b'inzego zitandukanye bari bitabiriye inama bakaba bayisoje.

Ibiganza bibiri birimo bikaraba intoki. Amazi arimo kumanuka ava mu gikoresho arimo, umuntu arimo arakaraba intoki n'amazi meza ndetse iruhande rwiwe hari n'isabune. Arimo agabanya imyanda ku ntoki ziwe. Gukaraba intoki biri mu birinda umwanda ndetse bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza, aho adashobora kuba yakwanduzwa cyangwa se ngo arware indwara zituruka ku mwanda.

Ishami ry'umuryango w'abibumbye, rishinzwe kwita ku bana, aho umubyeyi n'umwana bagirana umubano mwiza, ndetse umubyeyi agashishikarizwa kugira inshingano zo kwita ku mwana, kandi iri shami ry'umuryango w'abibumbye riharanira ko buri mwana wese, agira uburenganzira bwe.

Ivomero rusange riri mu mudugudu. Abadamu babiri barimo gukaraba intoki kuri iryo vomero rusange, umwe muri bo amaze gukaraba intoki, arimo aranywa amazi akoresheje ibiganza by'iwe. Imbere yabo hari amajerekani abiri, bigaragara yuko baje kuvoma amazi yo kujyana gukoresha, ibikorwa by'isuku ndetse no guteka mu ngo zabo.

Ikigo cya Carolina y'amajyaruguru cyita cyangwa se gitanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima. Aho abantu baza gushaka serivisi z'ubuzima baganirizwa n'abaganga, bakitabwaho mu buryo bwose bushoboka.

Abana bakiri bato bafite imyaka mito cyane, iruhande rwabo hari umubyeyi ufashe igikombe cy'amazi ndetse imbere yabo hari akabase, barimo gukarabwa intoki kugira ngo bagire isuku, barwanye umwanda ndetse birinda n'indwara zishobora kuba zabahungabanya mu mikurire yabo zikabatera indwara.

Ababyeyi bari kumwe n'abana. Muganga urimo gusuzuma abana ko bafite ibibazo bimwe na bimwe by'uburwayi, umubyeyi wazanye umwana arishimye ari guseka. Arimo yitegereza muganga uko arimo asuzuma umwana. Umwana biragaragara ko atishimiye ibikorwa arimo gukorerwa byo kumuvura, biragaragara ku maso ko arakaye.

Ibiganza bibiri birimo byoga intoki ku itiyo ririmo risohora amazi, aya mazi ari koga intoki ni amazi meza cyane, umuntu ashobora kuba yayakaraba intoki cyangwa se akayakoresha ibindi bikorwa by'isuku.

Ivomero rusange riri mu mudugudu, abana bazanye ibikoresho byo gutwaramo amazi baje kuvoma, ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye bari iruhande na bo bazanye ibikoresho kugira ngo batware amazi meza, umwana akaboko kamwe gafashe itiyo akandi gafashe igikoresho yazanye kugira ngo atwaremo amazi.

Abantu bari ahantu habugenewe, bambaye ibikoresho bibarinda kuba bashobora kuba bakanduzwa n'ibintu bigiye bitandukanye. Bigaragara ko ahantu bari hashobora kuba hari icyorezo bamba ibikoresho bibarinda kugira ngo hatagira icyorezo cyangwa se indwara yaza kuza kubafata. Bigaragara y'uko baje gufata umuntu ushobora kuba yagaragaweho n'icyorezo runaka, kugira ngo bajye kumufasha kumuha ubuvuzi.

Umuhuro w'abantu benshi batandukanye. Bicaye mu mwanya umwe, ndetse n'abandi bahagaze inyuma bagaragiye abo bicaye. Bisa nk'aho basoje inama yiga ku bintu runaka, barimo gufata ifoto y'urwibutso. Iyi nama ahanini yigaga ku bijyanye n'ubuzima, cyangwa se serivisi zitangwa n'ubuzima, no kwita ku bantu.

Ubukangurambaga burimo abagize inzego z'umutekano ndetse n'izindi nzego z'ubuyobozi, aho baje mu rugo mbonezamikurire. Baje kuganiriza abana ndetse no kubaha amafunguro arimo nk'igikoma ndetse n'andi mafunguro atuma bagira imibereho myiza. Ababyeyi bicaye na bo bishimiye iki gikorwa barimo gukorerwa kuko gituma abana babo bagira imikurire myiza.

Icyumba cyubatse ku buryo bugezweho, kikaba gifite imiryango ibiri ndetse n'amadirishya manini atanga urumuri ruhagije muri icyo cyumba, abantu bakirimo bicaye ku buryo bari kurebana, ni inama barimo barimo barimo kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye cyane cyane ahanini zita ku buzima cyangwa se zifite aho zihuriye n'ubuzima bw'abantu.

Abagabo bicaye mu buryo bw'uruziga. Bafite amakayi n'amakaramu, bigaragara yuko bari mu nama. Umwe muri bo arimo agenda atanga ibitekerezo cyangwa se ari nk'ibintu runaka arimo gusobanura, abandi bagenzi be bamuteze amatwi bari kumva ibyo ababwira. Ndetse biragaragara yuko bamaze umwanya munini, kuko imbere yabo hateretse ibirahuri by'amazi bari kugenda banywa uko bagize inyota.

Minisitiri Dogiteri Sabin Nsanzimana. Ushinzwe ubuzima mu nshingano. Akaba ari mu bukangurambaga bwo kurwanya kanseri mu Rwanda. Aho buri muturarwanda wese agomba gushyira mu bikorwa izi ngamba kugira ngo harwanwe kanseri ndetse n'abazifite ko bashobora kuvurwa bagakira, ubuzima bwabo bukaba bwiza.

Ivuriro ryita cyangwa se riganiriza abagize ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe kugira ngo baganirizwe hamenyekane nyiri zina icyabibateye, hanyuma abaganga babafashe kubahereza ubuvuzi bakeneye kugira ngo bakire.

Umubyeyi wicaye, yaje ku kigo nderabuzima gushaka serivisi zijyanye n'uburwayi bugiye butandukanye, arimo aganira na muganga amubwira ibibazo afite by'uburwayi kugira ngo umuganga amufashe kumubonera imiti, cyangwa se ubundi bufasha bwamufasha gukira indwara.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, bigaragara ko afite isuku nkeya ku mubiri, ubwanwa butogoshe ndetse n'umusatsi udafite isuku, kandi yambaye imyenda icitse afite ikibazo cyo mu mutwe, ahagaze araramye arimo kurira cyangwa se ari kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye.

Abana benshi bagiye batandukanye bicaye muri sitade, bambaye umwambaro w'ishuri, bagiye mu bikorwa runaka bibashimisha birimo kureba umukino w'amaguru, cyangwa se indi myiteguro yindi yaba yabereye muri sitade bagiye bagiye kureba. Bigaragara ko bishimiwe ibikorwa barimo bagezwaho muri sitade.

Abana bakiri bato benshi, bamwe muri bo bafite utujerakani duto bagiye kuzana amazi ku ivomero, umwe muri bo, asa n'ukuze, ni mukuru cyane kuri bo. Bigaragara yuko abana ari kumwe nabo batangana, ahubwo afite ikibazo cyo mu mutwe cyo kuba akina cyangwa se ari kumwe n'abana bakiri bato cyane.

Inama yitabiriwe n'ababyeyi, barimo kumva ikiganiro barimo bagezwaho n'umubyeyi mugenzi wabo, uko bakwiriye gusuzuma cyangwa se kwita ku buzima bwo mu mutwe, aho bakorera mu bice bigiye bitandukanye. Bagafasha abafite ibyo bibazo byo mu mutwe, kugira ngo babereke cyangwa se babaganishe, aho baherebwa serivise zibafasha.

Umuntu afashe mu mutwe, mu biganza byombi arunamye, ibi bisanzwe bifatwa nk'ikimenyetso cy'umuntu urimo ugaragaraho ibimenyetso byo kwiheba, cyangwa se gutekereza cyane, guhangayika se. cyangwa se kunanirwa mu bitekerezo cyangwa mu buzima.

Umuhuro w'abantu bagiye batandukanye, higanjemo abana, abakecuru, abasaza, bafite uduti turiho amabendera y'Igihugu cy'u Rwanda, bigaragara yuko harimo abafite ikibazo cyo mu mutwe k'imitekerereze, barimo guseka ndetse abandi bakaba nta cyo bari guseka, bigaragara yuko harimo abatuzuye.

Umugabo wambaye ikoti. Akaba yunamye yifashe amaboko. Imbere yiwe hari indabyo, inyuma ye hari urukuta ruriho amazina y'abantu. Bigaragara yuko ahantu ari ari ku rwibutso arimo kunamira cyangwa se ari guha agaciro abantu bapfuye. Hirya yiwe hari umukobwa wambaye ijire y'icyatsi kibisi bigaragara yuko ari uwo kuba hafi abantu bagize ikibazo cy'ihungabana, bakabafasha.

Umudamu utuye mu bice by'icyaro, yicaye mu nzu ifunguye idirishya. Imbere yiwe hari akarago, asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye yigunze, ibitekerezo byiwe ni byinshi, bisa nkaho ari ibintu ari kureba bisa nk'ibidahari, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umuhuro w'abana benshi bagiye batandukanye. Bamwe muri bo bambaye impuzankano inforome y'ishuri ndetse abandi ntayo bambaye bari guseka barishimye. Bigaragara yuko bamwe muri bo bafite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se imitekerereze yabo ituzuye ugereranyije n'abandi bana bari ku kigero kimwe.

Ababyeyi benshi bicaye mu cyumba. Barimo kuganirizwa ku ngingo zigiye zitandukanye. Harimo abahetse abana, ndetse n'abandi bicaye bonyine ukwabo. Barimo kuganirizwa n'umugabo uri imbere yabo wambaye agapfukamunwa. Ikiganiro barimo kuganirizwamo cyatewe inkunga n'igihugu cya Amerika kuko hari ibendera ry'igihugu cyabo. Ni ibibazo byo mu mutwe barimo baganirizwaho ku ngingo zijyanye nabyo.

Urubyiruko rwambaye impuzankano y'udupira, rusoje amahugurwa bahabwaga ku bijyanye no kwita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, baganirizwa begerwa, kugira ngo bumve batihebye, barimo gufata ifoto y'urwibutso hamwe n'abayobozi babafashaga kubaha ayo mahugurwa.

Umwana mutoya wambaye impuzankano y'ishuri. Yicaye mu cyumba cy'ishuri kirimo intebe nyinshi ndetse n'ameza. Ndetse inyuma yiwe hari abandi bana bahicaye. Uyu mwana arishimye, afite biswi mu kiganza cyiwe cy'iburyo kandi ari kuyirya, bisa nkaho hari umuntu arimo kureba akishima kuko arimo amubona.

Inzu mberabyombi ihuriwemo n'abantu bagiye batandukanye bicaye mu ntebe, bari mu nama cyangwa se mu biganiro barimo kugezwaho ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe ndetse n'ibindi bizikomokaho, uko bakwiriye kwitabwaho, ndetse n'abagaragayeho ibyo bibazo bagafashwa, barimo guhugurwa uko hatangwa izo serivisi.

Umubyeyi uhetse umwana, ndetse n'undi mwana amuhagaze iruhande, umubyeyi atetse igikoma, birasa nk'aho umwana umuhagaze iruhande, afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umubyeyi wicaye wishimye, yicaye muri potiki yiwe. Irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye; birimo amavuta yo kwisiga, birimo uburoso bw'amenyo ,birimo ibirungo bijya bitandukanye bikoreshwa mu gutegura amafunguro. Yiteje imbere yihangira umurimo, ashinga botike kugira ngo azamure iterambere ryiwe.

Umugabo wicaye yipfutse mu maso. Bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe cy'ubwihebe, kumva abihiwe n'ubuzima ndetse n'ibibazo byinshi yumva byamurenze yaburiye igisubizo. Ni byo bituma agaragaza imyitwarire nk'iyo ngiyo yo kumva afite ubwihebe intekerezo ze akumva ntabwo zirimo gushyigikira uburyo ki yabona ibisubizo byo kuva mu bibazo arimo.

Abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye z'igihugu bahuriye ahantu hamwe bafata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari ikibaho kiriho ikirangantego cy' imbuto foundation umuryango ufasha abana babakobwa bakiri batoya kugira ngo nabo bumve yuko bafite uburenganzira nk'ubwabandi.

Ishusho igaragaza igice cy'imbere cy'umutwe, harimo ubwonko n'ibindi bice bigiye bitandukanye bigize ubwonko, aho umuntu abasha kubika amakuru agiye atandukanye mu bwonko.

Umugabo wicaye usa nk'ahoari gutekereza cyane, ashobora kuba afite ikibazo bimuremereye bikomeye bituma agira ibitekerezo byinshi cyane, ariko akaba atari yabona ubuvuzi cyangwa se abaganga bamufasha kugira ngo bite ku kibazo afite muri we.

Umuganga wita ku bafite ibibazo byo mu mutwe, umwana wambaye ikanzu y'ubururu afite agapyisi cyangwa se agashushanya k'impyisi mu ntoki yiwe, bigaragara yuko afite ikibazo cyo mu mutwe kuba akuze ariko agikina imikino y'abana, arimo kuganizwa n'umuganga wita bafite ibibazo byo mu mutwe kugira ngo barebe ko ubuzima bwiwe bwajya ku murongo.

Abana bato bicaye bagaragiye umukecuru ukuze. Abana barishimye barimo guseka. Abana bafite umuntu barimo kwitegereza uri imbere yabo, ndetse n'umukecuru ari kumwitegereza. Umuntu barimo kwitegereza, ni umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe cy'imitekerereze. udatekereza nka bo, utameze nka bo, imitekerereze itandukanye n'iy'abandi bantu. Ni uburwayi afite.

Ubutumwa bwanditse kandi bukangurira abantu bafite ubuzima bwo mu mutwe, cyangwa se ibibazo bijyanye nabwo, uko bagakwiye kwitabwaho ndetse n'ababifite bakerekwa inzira yo kwa muganga, uburyo ki bafashwamo kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza nk'abandi.

Ababyeyi batatu bari mu murima bigaragara yuko agace batuyemo ari agace k'icyaro, bafite ibibando cyangwa se inkoni mu ntoki. Umubyeyi uteruye umwana afite n'agafuka bigaragara yuko baje mu murima gusarura ibihingwa bimwe na bimwe.

Tariki icumi z'ukwezi kwa cumi buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima cy'u Rwanda nicyo kigira uruhare cyane cyane ahanini mu kubyihiza mu gihugu cy'u Rwanda, bifatikanyije na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga irimo nk'amashami y'umuryango w'abibumbye ashinzwe kwita ku buzima.

Abana benshi bishimye. Bicaye mu cyumba kimwe bishimiye n'ibikorwa barimo bagezwaho biragaragara yuko buri mwana umwe wese uri aha ngaha yishimye kuba ari aha ngaha. Barimo guseka barakurikiye bigaragara yuko bahanze amaso cyangwa se bateze amatwi ibyo barimo babwirwa cyangwa se bagezwaho.

Ibitaro bya Karayesi biherereye i Ndera. Bikaba bitanga serivisi zijyanye no kwita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Umugabo uhetse igikapu ndetse wambaye neza akaba ari umuzungu, akaba yaje kuri ibyo bitaro gushaka serivisi zihatangirwa, cyangwa se akaba yaje kuhasura.

Umudamu uhagaze uri guseka, wishimye, yambaye ibaje y'umugozi mu ijosi, bisa nkaho ahagarariye ikigo runaka, cyangwa se yitabiriye inama runaka ihuje abaganga cyangwa se abandi bantu bita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe babaganiriza, cyangwa se babaha ubuvuzi bugezweho kugira ngo babafashe. Asa nkaho ashimishijwe no kuba ari uwo ari we.

Umurwayi wicaye yitangiriye itama, birasa nkaho yihebye cyangwa se afite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe. Imbere ye hari uri kumufasha kumuganiriza amuhumuriza kugira ngo ye kwiheba cyangwa se yumva ko yaheranwa n'ibyo bibazo, amufasha gutekereza neza icyamufasha kuba yava muri ibyo bibazo.

Umubyeyi uteruye umwana. Umwana arishimye, umubyeyi ari guseka, bigaragara yuko hagati yabo harimo urukundo, hagati y'umubyeyi n'umwana bigaragaza ko umubyeyi yita ku mwana we mu buryo bwiza, kandi bishimiye kuba bari kumwe muri uwo mwanya.

Umuhuro w'abayobozi basuye abafite ikibazo cyo mu mutwe, bahurira hamwe mu nyubako cyangwa se mu kigo gishinzwe kubaha serivisi zo kugira ngo bagire ubuzima bwiza, cyangwase babe nk'abandi bantu badafite ibibazo. Bitabwaho n'abaganga babihuguriwe kandi babifitiye ububasha n'ubushobozi.

Ubukangurambaga bushishikariza abantu kurwanya indwara bimakaza kwirinda kugira ngo hatabaho kwanduzanya, bambara udupfukamunwa, basuhuzanya badakoranye mu biganza ndetse banahana intera kugira ngo hirindwe ikwirakwizwa ry'ibyorezo bimwe na bimwe.

Abagore bane bicaye ku ntebe y'urubaho ndetse n'umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho. Abagore bicaye bitegeye umugabo. Umugabo arimo arazamura ipantaro arimo abereka akaguru ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi baje kumusura bareba uko ameze.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo. Ari guseka arishimye. Asa nkaho ashimishijwe no kuba ari uwo ari we cyangwa se ubuzima abayemo abwishimiye yumva nta kibazo na kimwe afite, anezerewe mu buzima bwiwe bwose abayemo.

Umugabo wicaye yifashe mu maboko ndetse ahinnye amaguru, bisa nkaho afite ikibazo cyo mu mutwe; ahantu yicaye hari umwanda, ntabwo afite isuku ihagije, arimo yitegereza abantu agashaka kwisetsa, bigaragara yuko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umubyeyi wo mu cyaro. Wicaye ateruye umwana. Iruhande rw'iwe hicaye undi mwana mutoya. Imbere y'iwe hari urutaro ruriho ibigori, arimo gutora ibigori, akuramo ibyonnyi, kugira ngo atunganye amafunguro yo guha abantu. Ariko umwana umwicaye iruhande asa nk'aho atishimye, bisa nk'aho atigeze abona amafunguro ahagije, yo kurya.

Umuhuro wahurije hamwe ababyeyi. Ababyeyi bishimiye umwanya barimo. Bisa nkaho basoje inama cyangwa se igikorwa bari barimo. Barimo kuririmba bakoma n'amashyi. Bahugurwa ku buryo bwo kwita ku bafite ibibazo byo mu mutwe. Cyane cyane nk'igihe bafite umwana wavutse afite ibyo bibazo, bakamenya uko bagomba kubana na we n'uburyo ki bagomba kumutwara kugira ngo batamushyira ku ruhande.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bihagije, byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, intebe yabuhariwe ishobora guhinwa ikaba nk'igitanda umurwayi yicaraho bari kumuvura ndetse n'intebe ya muganga yicaraho iyo ari kuvura umurwayi, harimo n'ibikoresho bindi nka mudasobwa bibika amakuru ndetse n'ibindi byinshi umuganga yifashisha iyo ari kuvura amenyo.

Umukobwa urimo gusukura amenyo akoresheje uburoso ndetse n'umuti wifashishwa mu gusukura amenyo. Yishimiye igikorwa arimo. Ariko nanone arimo asukura amenyo yireba mu ndorerwamo kugira ngo akuremo imyanda yose neza.

Umugore wasamye akaba afite agakoresho mu ntoki karimo urudodo. Gakoreshwa mu gusukura amenyo agenda akuramo imyanda igiye itandukanye, kugira ngo yirinde indwara zituruka ku mwanda igihe atasukuye amenyo mu buryo bwiza.

Icyumba gikoze ku buryo bwiza cyo kwa muganga, kirimo urumuri ruhagije, n'ibikoresho byinshi bijye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, kivurirwamo abafite ibibazo by'amenyo, hari intebe yabugenewe umurwayi yicaraho kugira ngo muganga amuhe serivisi zo kumuvura amenyo.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri, buri mwana afite uburoso bw'amenyo buriho umuti w'amenyo arimo gusukura amenyo yiwe, ari nako anyuzamo amazi meza kugira ngo amenyo yiwe agire isuku, gusukura amenyo ukoresheje uburoso bwiza n'umuti w'amenyo biri mu bituma ugira ubuzima bwiza, urwanya indwara zigiye zitandukanye zafata amenyo yawe.

Inzu ifite amadirishya atanga urumuri ruhagije n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, birimo nk'intebe zisa umweru ndetse n'indi ntebe imwe ifite imisego isa n'umutuku ndetse hari amatara yabugenewe atanga urumuri ruhagije muri kino cyumba, kandi iki cyumba kirimo tereviziyo iri ku rwego rugezweho.

Icyumba cy'ishuri kigirwamo n'abanyeshuri. Imbere hari umwana urimo ufashwa n'umurezi cyangwa se umwarimu. Uburyo ki basukura amenyo hifashishijwe igikoresho gishushanya amenyo, arimo amwerekera uburyo ki basukura amenyo. Inyuma yabo hahagaze abantu bagiye batandukanye bigaragara yuko baje kwigisha abana uko bakwiriye gukorera isuku amenyo yabo.

Umwana muto wasamye arimo yitegereza muganga. Muganga nawe ufite ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, arimo yita ku mwana amuha ubuvuzi bw'amenyo, hifashishijwe imiti ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma no kuvura amenyo abana bato.

Umugore wipfutse umusatsi yashyizemo agakoresho kabugenewe. Afite uburoso bw'amenyo buriho umuti w'amenyo, arimo gusukura amenyo yiwe, bisa nkaho arimo kwireba mu kirahure imbere yiwe uko ari kugenda asukura amenyo yiwe yireba, yishimiye igikorwa arimo gukora kuko gusukura amenyo birinda indwara zigiye zitandukanye zangiza amenyo.

Umwana muto wicaye mu ntebe, yambaye imyambaro myiza ndetse n'udukinisho tw'abana yambaye mu mutwe, afite uburoso bw'amenyo arimo gusukura amenyo, umwana uri gusukura amenyo yarabyigishijwe kandi ari kubikora yishimye cyane, gusukura amenyo bizamurinda indwara nyinshi zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda wo mu kanwa.

Umwana urimo urafashwa na muganga bamuvura amenyo, muganga arimo aramwasamura mu kanwa afite ibyuma byabugenewe ndetse na we afite ubwirinzi bwabugenewe ku ntoki burimo ga kugira ngo amukure iryinyo cyangwa se arimo areba ikindi kibazo umwana ashobora kuba afite mu kanwa.

Umwana muto ufite uburoso bwabugenewe bwo gusukura amenyo. Arimo arasukura amenyo yiwe arwanya umwanda ndetse n'udukoko dushobora kumutera indwara zo kuba amenyo yiwe yakwangirika. Yishimiye igikorwa arimo gukora. Arimo gusukura amenyo asa n'uri kwireba mu ndorerwamo uko amenyo yiwe ari kugenda abasha kuba yacya.

Abana benshi bishimye, abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano y'ishuri, bicaye mu cyumba cy'ishuri bafite mu biganza byabo umuti w'amenyo ukoreshwa mu gukora isuku boza amenyo ndetse n'uburoso, bishimiye kuba bahawe ibyo bikoresho.

Umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe cyo kwa muganga, agaramye yasamye mu kanwa, umuganga wirinze mu buryo bwose bushoboka. Yambaye agapfukamunwa, yambaye agapfukamusatsi ndetse na ga mu ntoki. Afite ibikoresho byabugenewe arimo atanga ubuvuzi bw'amenyo ku murwayi.

Umugabo wambaye amarineti, arimo guseka, arimo atunga agatoki ku menyo y'iwe, amenyo y'iwe ayakorera isuku neza ihagije, kuko afite amenyo meza, yakorewe isuku akoresheje umuti usukura amenyo ndetse n'uburoso bwiza, kuko afite amenyo meza, yishimiye kuba amenyo ye ayitaho kandi biramunejeje.

Umugabo wasamye. Ufite amenyo y'umweru y'urwererane. Mu ntoki ziwe mu kiganza cye cy'iburyo, afite agakoresho kambarwa mu menyo. Arimo yasama kugira ngo agashyire mu menyo.

Abana benshi bakiri bato bafite uburoso bw'amenyo ndetse n'amazi mu dukombe mu ntoki, barimo basukura amenyo yabo kugira ngo agire isuku, buri umwe wese arimo arabikora yishimye ashishikariye kugira ngo amenyo yiwe aze kugira isuku.

Umugabo uri guseka wishimye, wiyogoshesheje neza, ufite mu kanwa heza, amenyo yiwe afite isuku ihagije, bigaragara yuko yita ku menyo yiwe. Amenyo yiwe afite isuku ihagije, akoresha umuti wabugenewe ndetse n'uburoso bw'amenyo bwo gusukura amenyo yiwe, niyo mpamvu afite amenyo afite ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, bakoresha bari gutanga serivisi z'ubuvuzi, ndetse akaba yirinze mu buryo bushoboka, yambaye uturindantoki ga, umurwayi wicaye ku ntebe yabugenewe yo kwa muganga, waje kwivuza amenyo, arasamye areba hejuru, muganga nawe afite igikoresho bifashisha bavura amenyo mu ntoki, kugira ngo avure cyangwa se asuzume umurwayi waje gushaka serivisi kwa muganga.

Umugabo wasamye ufite urudodo mu ntoki, arimo agenda arukoza mu ishinya, asa nk'uri gukuramo utwanda, tugiye dutandukanye twagiye mu menyo, ariko imbere yiwe asa nk'uri kureba muri miriwari cyangwa se undi muntu uri imbere yiwe ari kwigana uko bikorwa kugira ngo nawe abikore.

Umurwayi waje kwa muganga ku kigo nderabuzima, mu cyumba bicayemo kirimo idirishya ritanga urumuri ruhagije ndetse n'umwuka uhagije, umuganga wirinze buryo bwose bushoboka yambaye agapfukamunwa, yambaye ga ku ntoki, uturindantoki arimo kwita ku murwayi w'umusaza amuvura amenyo.

Umuganga wambaye umwambaro w'akazi. Akaba yambayeka ga mu ntoki zimurinda kuba yakomereka cyangwa se akangizwa n'ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa mu buvuzi. Akaba afite igishushanyo cyangwa se igikoresho gishushanya amenyo, uruhanga rw'amenyo, bigaragara yuko ari umunyeshuri, uri kwiga umwuga wo kuvura amenyo, arimo kwigiraho uko bayavura.

Abana bari mu cyumba cy'ishuri, bambaye impuzankano z'ishuri. Bishimye cyane. Bamaze guhabwa umuti ufasha mu gusukura amenyo ndetse n'uburoso ku buryo buri mwana azajya asukura amenyo yiwe. Bafashe ifoto y'urwibutso n'umudamu uri kumwe na bo wabazaniye imiti y'amenyo ndetse n'uburoso bwayo, abana bishimiye kuba babihawe kuko bagiye kugira isuku y'amenyo yabo birushijeho.

Umuntu urimo guseka yishimye; akoresheje intoki ze mu gushushanya uruziga cyangwa ikadiri imbere y'amaso. Nkaho ari kureba ibintu mu ndorerwamo, cyangwa mu kirahuri, cyangwa kamera. Iyi foto isanzwe ikoreshwa mu bukangurambaga cyangwa kwamamaza, bijyanye n'ibyiza byo kwigirira icyizere, kugira isuku y'amenyo, cyangwa ubuzima bwiza muri rusange.

Umubyeyi ukuze w'umukecuru urimo kwitabwaho n'umuganga. Mu kuboko kw'iburyo afitemo itasi y'amazi ndetse umuganga arimo kumuha imiti yo kunywa. Uyu mubyeyi biragaragara yuko arwaye ariko na none ari kwitabwaho n'umuganga kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukecuru wicaye mu cyumba, imbere ye hari umuganga wishimye, afite agatambaro mu maboko yiwe kazengurutse, karimo kamufasha kunanura imitsi yiwe yo mu maboko kugira ngo arwanye ibibazo by'imitsi bishobora kuba byamugeraho.

Isoko ryicayemo ababyeyi, bazanye imboga zirimo inyanya mu isoko, kugira ngo abaguzi baze kubagurira, barimo kuganira ku bijyanye n'umusaruro wabo, buri mudamu wese uri ahangaha, arishimye bateze amatwi umwe muri bo, urimo kubaganiriza bisa nkaho bari kuganira ku bijyanye n'inyungu bakura mu musaruro bazana ku isoko.

Umusaza ukuze. Urimo gufashwa n'umuganga, cyangwa se undi muntu utanga care, cyangwa wita ku bantu bashaje, arimo amufasha gukora siporo, kugira ngo ananure imitsi y'iwe y'umubiri, kugira ngo, agire ubuzima bwiza.

Umusaza wicaye mu bwogero arimo arakorerwa amasuku. Umuntu urimo aramwoza amusiga isabune mu mutwe, ndetse n'amazi arimo amumena mu mutwe amukorera isuku kugira ngo aze gucya.

Umusaza ushaje wari wicaye ku gitanda, umugabo n'umugore bamufashe akaboko k'ibumoso, undi amufashe akaboko k'iburyo, barimo baramuhagurutsa, bamufasha guhaguruka kugira ngo abashe guhagarara.

Abantu b'ingeri zigiye zitandukanye. Harimo abakuze, abakiri batoya b'ingeri zitandukanye. Bicaye bakoze uruziga. Imbere yabo hicaye umugabo urimo ubasobanurira ku ngingo zigiye zitandukanye, akaba afite mudasobwa ari kugenda asomamo ibintu agenda abasobanurira.

Umusaza wicaye ku ntebe yegamiye. Afite inkoni mu ntoki, mu kiganza cy'ibumoso. Iruhande rwe hari umuganga, amufashe ku rutugu, arimo aramubwira amagambo meza ashimishije, umusaza yasazwe n'ibyishimo.

Ababyeyi batatu bakuze, barishimye cyane, barimo baraseka, barimo barareba amashusho muri terefoni igezweho y'ikoranabuhanga, bisa nk'aho barimo bareba inkuru, indirimbo cyangwa se ikiganiro bishimiye, kuko bose ibyishimo birabasaze kandi biragaragara inyuma ku maso.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza, arambitseho ikirahuri cy'amazi ndetse n'udukombe tubiri cyangwa se uducupa dutoya turimo imiti, bisa nk'aho barwaye cyangwa se umwe muri bo ari kunywa imiti, umusaza arimo arereka umukecuru ibintu mu gikoresho cy'ikoranabuhanga telefone, ariko basa nk'aho batishimiye ibyo bari kureba kuko nta kamwenyu k'ibyishimo bafite ku maso.

Umubyeyi w'umusaza ukuze yambaye agapfukamunwa birasa nkaho arwaye, yicaye mu ntebe arimo arafashwa n'umuganga umuri imbere urimo umufata ibipimo by'umutima areba uko umutima wiwe uhagaze, asa nkufite ibibazo by'uburwayi ariko arimo kwitabwaho n'umuganga kugira ngo agire ubuzima bwiza amufashe kumuvura akire.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, birasa nk'aho yishimye, arimo afashwa n'umubyeyi w'umuganga uri iruhande rw'iwe, uko ananura ukuboko kw'iwe, birasa nk'aho yaragize ibibazo by'uburwayi ariko uko agenda afashwa n'abaganga, niko bigenda bishira kandi bikira ku buryo cyongera gusubirana ubuzima bwe bwiza.

Umuhuro w'abakuze higanjemo abakecuru n'abasaza. Bigaragara yuko ari ubukwe bitabiriye cyangwa se ibindi birori. Bakaba bicajwe mu myanya y'imbere nk'ababyeyi kugira ngo bubahwe bahabwe icyubahiro mu muryango.

Umusaza wambaye imyambaro yabugenewe yo gukoresha siporo. Arimo arakora siporo afashijwe n'umukobwa umufashe akaboko ndetse akamufashe no ku rutugu, amwerekera uko agomba gukora siporo kugira ngo ananure imitsi. Abashe kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi ukuze w'umusaza biragaragara y'uko afite ikibazo cy'uburwayi. Mu kuboko kw'iburyo afitemo itasi y'amazi ndetse ikiganza cy'ibumoso, cyiteguye kwakira imiti arimo ahabwa n'umuganga uri kumwitaho kugira ngo akire.

Umubyeyi urimo gutunganya amafunguro, imbuto n'imboga, iruhande rwiwe hicaye umukobwa urimo umwitegereza amureba, bisa nk'aho uyu mukobwa hari amagambo meza arimo kumubwira, uyu mubyeyi arishimye arimo guseka, barimo batunganya amafunguro.

Umusaza urwaye amaso, akaba yambaye amadarubindi amufasha kureba, arimo arasoma igitabo, yifashe ku munwa bisa nkaho yaryohewe no gusoma inkuru arimo gusoma, cyangwa se yumiwe bitewe nibyo arimo gusoma.

Umusaza n'umukecuru bicaye bahuje urugwiro, umusaza aryamye ku mukecuru n'umukecuru na we amwegamiyeho, barishimye bigaragarara ku maso barimo guseka, amagambo meza umusaza abwiye umukecuru ni yo amuteye kuba ari guseka, agaragaza ibyishimo inyuma ku maso.

Umusaza wishimye uri guseka ari mu bikorwa bya siporo, afite utwuma mu biganza byombi, yarambuye amaboko ndetse yambaye utwuma tumufasha kumva imiziki cyangwa se uko akora siporo agenda ayoborwa uko agenda abikora, intambwe ku ntambwe.

Umusaza wicaye mu ntebe, akaba yambaye agakoresho kabugenewe mu kuboko kwiwe k'ibumoso, gapima ubushyuhe cyangwa se kagafata ibindi bipimo bigiye bitandukanye ku mubiri kugira ngo hamenyekane uko umubiri wiwe uhagaze, akaba afite ubumenyi n'ubushobozi bwo kuba yagakoresha arimo ashyiramo gahunda cyangwa se porogaramu zimufasha kuba yafata ibyo bipimo.

Umubyeyi ukuze yicaye agaragiwe n'abana bato benshi, bigaragara yuko uyu mubyeyi abana bamugaragiye ari nk'abuzukuru be cyangwa se abana be ndetse n'inshuti, bigaragara ko abana bishimiye igikorwa barimo, ariko basa nkaho hari ikintu barimo bitegereza imbere, uyu mubyeyi na we arumva yishimye kuba ari kumwe n'abana biwe bamugaragiye.

Ababyeyi batatu bicaye, umwe muri bo wambaye amadarubindi wicaye hagati ufite telefoni ya smartphone igezweho, arimo kubereka amashusho cyangwa se abasomera amakuru cyangwa se izindi ngingo ari kugenda abereka ziri muri telefone. Aba babyeyi bombi babiri barimo kwitegereza neza ibyo arimo kubereka, bigaragara yuko aba babyeyi bakuze batagishobora kubona neza batambaye amarinete.

Umugabo w'umusaza uri kumwe n'umudamu cyangwa se umukobwa ukuze, amufashe ku kaboko, ikimenyetso kigaragaza ubumwe, urukundo bafitanye, bigaragara ko ari nk'umwana we cyangwa se undi wo mu muryango, cyangwa se inshuti y'umuryango, ariko akaba yishimiye kuba ari kumwe n'uyu musaza, barishimye bari mu byishimo.

Umusaza wishimye ari kumwe n'umukecuru wishimye. Imbere y'umusaza hari imiti cyangwa se ibinini. Bigaragara yuko umusaza arwaye ndetse n'umukecuru imbere ye hari ibinini ariko umusaza yishimiye kuba ari kuganira n'umukecuru. Umukecuru na we yishimiye ibyo umusaza arimo kumubwira. Babayeho mu byishimo.

Umusaza wicaye ku gatebe afite agakoni kamurambitseho, ndetse n'abana babiri bicaye, abo bana bafite amandazi barimo kurya, ndetse n'umusaza, umwana umwe afite akandi kajerekani iruhande rw'iwe harimo ikinyobwa arimo kunywa, biragaragara y'uko bishimiwe n'ibiribwa barimo gufata, ndetse n'umusaza asa nk'aho hari ikintu arimo yitegereza hirya.

Ababyeyi bakuze b'abakecuru bicaye ku ntebe za plastique, basa nk'aho bari mu bukwe cyangwa se mu muhuro; barimo bagezwaho ibiganiro ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko imbere yabo birasa nk'aho bitegereza umuntu urimo kubaganiriza bamuteze amatwi, ndetse bumva neza ibyo ari kubabwira.

Umusaza ushaje cyane wicaye ku gitanda, yambaye amarinete amufasha kureba, bigaragara yuko amaso y'iwe atakibona neza, arimo arafashwa n'umuganga w'umugore amufasha guhaguruka kugira ngo abashe kugenda, bigaragara yuko imyaka y'iwe ari myinshi atabasha kwigenza, agomba kuba afite umuntu hafi y'iwe umufasha.

Umusaza wishimye uri guseka cyane. Akaba arimo gukina umukino w'igisoro n'undi muntu bicaranye. Bigaragara yuko uyu musaza abwiwe amagambo meza cyane. Akaba ari yo amushimishije bikamutera kwishima, bikagaragara inyuma mu nseko yiwe agaragaje.

Umugore n'umugabo bambaye imyenda ya siporo. Buri umwe yambaye isaha ukuboko kwiwe kw'ibumoso. Barishimye bari mu gikorwa cya siporo cyo kunanura imitsi yo mu mubiri, kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Nkuko tuzi ko siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza, bikarinda indwara zimwe na zimwe kuba zafata umubiri we.

Umubyeyi w'umugore ukuze, ari mu bikorwa bya siporo, biragaragara yuko siporo ituma agira ubuzima bwiza kandi akaba yishimiye igikorwa cya siporo arimo gukora, amaboko ari hasi afunze ibipfunsi ndetse n'amaguru ararambuye, ari kugenda amanuka azamuka.

Umusaza wicaye agaragiwe n'abana, ndetse akaba yegeranye n'umukecuru, n'umudamu ukuze akaba yicaye iruhande, bigaragara y'uko aba ari abuzukuru biwe ari kumwe na bo, akaba yishimye kuba ari kumwe na bo, kuko biramusa ku maso arimo araseka ibyishimo byamusaze.

Umubyeyi wicaye urimo kuboha igitebo cyangwa se igiseke, agaragiwe n'abantu benshi nabo bicaye ku ntebe, harimo umugore wicaye ku ntebe y'umutuku, urimo kumureba barimo kuganira yishimiye ibyo arimo gukora ndetse buri muntu wese uri aha ngaha bishimiye ibyo uyu mudamu uri kuboha igiseke arimo kubaganirira, kuko bose barimo guseka bigaragara ko bishimye.

Umusaza wicaranye n'umukecuru, bicaye bari ku meza. Umukecuru arimo arasomera umusaza agapapuro kava mu gakarito kabamo imiti, amusomera amabwiriza y'uko banywa imiti. Umusaza arasa n'urwaye, imbere yateretse imiti, ndetse n'agacupa karimo indi miti. Bigaragara ko umusaza afite ikibazo cy'uburwayi, umukecuru arimo aramusomera amabwiriza mbere yuko anywa iyo miti.

Umukecuru ushaje ufite n'imvi ku mutwe, arimo gufashwa n'umukobwa uri uruhande rwe urimo umufasha kurambura akaboko kugira ngo imitsi ye igororoke, siporo iri muri bimwe bituma umuntu agira ubuzima bwiza, arimo gufashwa gukora siporo.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima cy'u Rwanda, aho serivisi zose zifite aho zihuriye no gutanga imiti, inyikingo ndetse n'ubujyanama ku buzima, ari cyo kibasha kuzihuza kandi kikazikurikirana, kikareba ko zigerwa ku baturage bose cyangwa se ababa bazikeneye bose.

Inama yabaye mu mwaka w' ibihumbi na makumyabiri na kane yiga ku bijyanye n'ubuzima n'ubuziranenge, icyumba cy'inama bari barimo cyari kirimo abantu benshi bigaragara yuko bateze amatwi abantu bari bicaye imbere barimo babagezaho ibiganiro ku ngingo zigiye zitandukanye z'iyi nama bisa nk'aho ari inama mpuzamahanga irimo abantu benshi bagiye batandukanye baha bahagarariye inzego runaka.

Inama yabaye ku rwego rwo hejuru ku rwego rw'igihugu yabaye mu matariki ya cumi nakarindwi cumi n'umunani ukwakira umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Insanganyamatsiko ibigo by'indashyikirwa mu mashuri makuru muri Afurika inzira igana iterambere hagaragara ibikoresho bikoreshwa mumalaboratoire, hagaragara imirasire, ubuhinzi n'ubworozi ikoranabuhanga n'ubumenyin ngiro.

Abagabo batanu n'abagore babiri bagiye batandukanye, harimo abirabura ndetse n'abafite uruhu rwera, bambaye amabage y'imigozi mu ijosi, bigaragara yuko ari inama bari bavuyemo yiga ku ngingo zigiye zitandukanye, aho aba bose bayitabiriye bafite ibyo basanzwe bakora bijyanye n'ibyo baziye mu nama cyangwa se ibigo runaka bahagarariye.

Inama yabaye ku matariki makumyabiri n'esheshatu kugeza kuri makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi n'icyenda. Ibera i Kigali muri Hoteli ya Remigo. Ni inama ahanini yateguwe n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku Buzima, ndetse ikaba yari irimo ibigo nka Kaminuza y'u Rwanda. Yari irimo abantu bagiye batandukanye ndetse n'abanyamahanga, barimo baganira ku ngingo zimwe na zimwe zatuma ubuzima bwiza bw'umuntu bugenda neza, cyangwa se biga ku ngingo zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima. Inama yitabiriwe n'abantu benshi.

Bibiri na cumi na karindwi kurwanya gukuramo inda ku Isi yose, ubukangurambaga burimo kuba kugira ngo abantu bagiye batandukanye batuye Isi bamenye ko ubukangurambaga buriho hirindwe gukuramo inda.

Gukorera hamwe ku gutanga inkingo z'icyorezo cya Covide cumi n'icyenda ku bihugu bimwe na bimwe bifite ubukene bukabije, cyangwa se biri mu nzira y'amajyambere, bitewe inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku bana ndetse n'ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe kwita ku buzima, kugira ngo izo ngingo ziboneke zihabwe ibyo bihugu.

Ku wa gatatu, tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima bw'abantu cyangwa se kwita ku buzima bw'abantu. Aho barimo gukangurira abantu kugira ubuzima bwiza ndetse no gufata ingamba zatuma ubuzima bwabo bukomeza kugenda neza.

Ubukangurambaga burimo abantu bagiye batandukanye benshi, bambaye impuzankano y'imipira isa ku buryo bugaragara. Bafashe ibitambaro byanditsweho amagambo yo kwirinda kanseri y'ibere, hanashishikarizwa kuyivuza ku bantu bayifite kuko ivurwa igakira.

Ubukangurambaga bwatewe inkunga na leta y'u Rwanda ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, impamvu umuntu agomba kwikingiza icyorezo cya covid cumi-19, kuko biri mu bimurinda cyangwase bikaba ubudahangarwa, kugira ngo yubake ubudahangarwa bw'iwe bw'umubiri.

Ubukangurambaga bushishikariza abantu mu Rwanda kugira ubuzima bwiza. Umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi; harimo agakoresho bambaye mu ijosi gashobora kuba kapima uko umutima uri gutera, yambaye impuzankano y'akazi, yambaye udupfukamunwa ndetse n'agakoresho karinda umusatsi, afunze igipfunsi bigaragaza imbaraga bafite mu kurwanya indwara.

Ikirangantego kiri ku rupapuro cyangwa se ku gitambaro cy'ubururu kigaragaza Repubulika y'u Rwanda. Kikaba gikoreshwa na Minisiteri y'ubuzima mu bikorwa bigiye bitandukanye byayo ikora harimo nk'impapuro cyangwa se amashusho amwe n'amwe agaragaza Minisiteri y'ubuzima, iki kirangantego niho gikoreshwa.

Urubyiruko ruri mu bukangurambaga bwo gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe bibafasha kuba bagira ubuzima bwiza, barwanya indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Barimo bafite udukingirizo mu ntoki zabo. Baragaragaza yuko kudukoresha bishobora kubarinda indwara zimwe na zimwe zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ubukangurambaga burwanya cyangwa se bushishikariza abantu kwirinda icyorezo cya covid, hafatwa ingamba zo gukaraba intoki, zo gusigamo intera ya metero, zo kwambara agapfukamunwa, ndetse no kurya indyo yuzuye. Izi ni ingamba zifasha kuba abantu bakirinda ikwirakwira ndetse bagahagarika icyorezo cya covid cumi n'icyenda binyuze mu kubahiriza izi ngamba.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, ahanini abitabiriye iyo nama bari baje kwizihiza umunsi wo kurwanya sida mu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na kane. Ukaba wari wizihirijwe mu Rwanda, ukaba waratewe inkunga n'Ikigo cy'Igihugu Gishinzwe Kwita ku Buzima mu Rwanda, hitabiriye abantu benshi bagiye batandukanye ndetse abashyitsi bitabiriwe beretswe umuco nyarwanda cyane cyane imbyino Nyarwanda zari zirimo zitambutswa.

Raporo itangwa n'abaganga ku cyorezo cya Covide cumi n'icyenda, igashyikirizwa ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima, uko icyorezo cya Covide cumi n'icyenda cyagiye gihashywa mu bihugu by'Afurika.

Umukobwa ufite mikoro uri imbere y'abantu benshi, arimo kubaganiriza cyangwa se akaba arimo kubigisha ku bijyanye n'ingingo zigiye zitandukanye, bigaragara yuko ahantu ari ari mu nzu mberabyombi cyangwa se urusengero, akaba arimo abwira abantu bari imbere ye bamuteze amatwi ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'ingingo barimo kuganiraho.

Abaganga bambaye mu buryo bwabugenewe bwo kwirinda ko hakwirakwizwa cyangwa se bakanduzwa icyorezo runaka, bambaye agapfukamunwa ndetse n'imyambaro yabugenewe, bari gutanga serivisi zo gutanga inkingo z'icyorezo cya Covid cumi n'icyenda ku barwayi batakingiwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru bikoresha ikoranabuhanga. Kirimo abaganga b'inzobere, bambaye imyambaro yabugenewe ndetse bambaye imyambaro ibarinda kuba bakandura cyangwa se ngo banduzwe n'abarwayi cyangwa se n'ibikoresho bimwe na bimwe bakoresha mu buvuzi, barimo gutunganya ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bugezweho kandi buhanitse.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandundukanye. Bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga. Umwe mu bitabiriye inama, akaba afite mudasobwa arimo kurebamo amakuru ndetse no kwandikamo ibyo barimo bagezwaho. Umugabo umwe ufite indangururamajwi arimo kubagezaho ibyo barimo bavugaho mu nama, hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, buri umwe wese abasha kubisoma ku gikuta.

I Kigali tariki ya makumyabiri ukwakira bibiri na makumyabiri na kane ifite insanganyamatsiko igira iti duhashye virusi ya Maribol. Abagabo babiri bicaye ku meza umwe arimo kuvuga atanga ibisobanuro undi amuteze amatwi. Hari abari mucyumba bateze amatwi bigaragarako ari inama yitabiriwe n'abantu benshi.

Ubukangurambaga ku bantu bose bafite abana ko tugomba kwizerera mu miti, kugira ngo ufite uburwayi wese wabashije kunywa imiti kandi yujuje ubuziranenge, abasha gukira indwara arwaye.

Igishushanyo cyimiterere y'imirimo mu kigo cyangwa imbonerahamwe y'imyanya mu kigo. Igaragaza uko imyanya y'ubuyobozi n'imirimo itandukanye ihagaze n'uko ishyirwaho mu kigo runaka.

Icyumweru cyahariwe kurwanya indwara zitandura. Cyatangiye ku itariki cumi n'umunani, kigeza ku itariki ya makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Iki gikorwa cyatewe inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima, kaminuza y'u Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi, ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku buzima, ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye.

Ibimenyetso biranga diabete. Itara ry'umweru ririgushushanya kuba umuntu urwaye diyabete agira amaso y'umuhondo. Gutakaza ibiro mu buryo bwihuse cyangwa se bworoshye. Kwiyumva yuko uhora unaniwe ufite umunaniro udashira ndetse rimwe na rimwe ukaba wananyara inkari zisa nk'aho zisa umuhondo. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso biranga umuntu ufite diyabete.

Inama yari irimo abantu benshi bagiye batandukanye, bicaye mu cyumba cyiza kirimo urumuri ruhagije kiberamo inama, bamwe muri bo bicaye ku ntebe z'imbere abandi barabagaragiye bari inyuma bari gufata ifoto y'urwibutso, basoje inama yigaga ku ngingo zigiye zitandukanye zifite aho zihuriye n'ubuzima.

Imbonerahamwe yerekana cyangwa se ishushanya amatsinda y'abantu mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi uko bagiye bakingirwa icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ukurikije ibihugu byabo cyangwa se uduce barimo, ikaba yarakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri, mu kwezi kwa gatatu.

Kwita ku buzima bw'abantu muri Afurika yo hagati. Ubukangurambaga bwita cyangwa se bushishikariza buri muntu wese kuba yagira ubuzima bwiza cyane cyane ahanini haherewe ku batuye muri Afurika yo hagati.

Umuhuro w'abakobwa, bigaragara yuko iyi ari inama cyangwa se umuhuro witabiriwe n'abategarugori; bakaba baje kuganiriza abakobwa uburyo bujyanye n'imyororokere n'ubuzima bwabo, uko bakwiriye kwitwara n'uburyo ki bakwiriye kubaho, ku buryo ki badashobora kugwa mu bishuko cyangwa se mu zindi ngeso mbi.

Umugabo n'umugore bambaye amabaje mu ijosi. Barimo gufata ifoto y'urwibutso. Hasojwe inama ahanini yigaga ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu, cyangwa se ubukangurambaga, uko abantu bakwiye kwita ku buzima bwabo. Umugabo n'umugore barimo guseka, bigaragara ko bishimiye igikorwa cy'inama, bavuyemo.

Salé yicyemo abantu bagiye batandukanye. Imbere yabo hicaye abantu bari gutanga ibiganiro ku bicaye muri salle, ku bijyanye n'ubushakashatsi buri gukorwa mu buzima. Bumva ibitekerezo bigiye bitandukanye bituruka muri salle, nyuma y'uko bamaze kugezwaho ikiganiro n'abicaye imbere. Bamwe mu bayobozi bafata ibyemezo mu nzego zi zitandukanye, bigaragara ko aribo barimo gutanga ikiganiro.

Ubukangurambaga bufasha cyangwa se bashishikariza abaturarwanda bose kugira ubuzima bwiza, bafata igamba zigiye zitandukanye, bafatikanyirije hamwe kugira ngo buri muntu wese w'umuturarwanda agire ubuzima bwiza.

Umugabo munini wambaye umupira w'umukara ndetse n'ingofero, akaba yambaye n'marinete. Afite igipapuro cyanditseho gushishikariza abantu kujya gufata urukingo rw'icyorezo cya Mpox, ababwira ko urwo rukingo rwabonetse. Buri umwe wese urukeneye ko yajya kurufata ku nzego zishinzwe kuzitanga.

Ububiko bwabugenewe bwo kwa muganga bubikwamo imiti cyangwa se ibipimo bimwe na bimwe bigenda bifatwa, nk'ibipimo bya sida, inkingo se, n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi kwa muganga, harimo etajeri nyinshi bigenda bibikwamo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ifite icyumba gikoze ku buryo bwiza kirimo amatara atanga urumuri ruhagije, ndetse harimo intebe ebyiri, aho umurwayi uje gushaka serivisi yicara, ndetse n'aho muganga aba yicaye ari gusuzuma umurwayi, hari na mudasobwa ibikwamo amakuru, cyangwa se muganga yandikamo amakuru ajyanye n'umurwayi, n'imiti y'ibanze ishobora guhabwa umurwayi uje kwivuza.

Inzu yabugenewe yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi. Nk'igitanda cyangwag se intebe umurwayi ashobora kwicaraho iyo barikumuha ubuvuzi. Ndetse harimo n'imashini zigiye zitandukanye zifashishwa n'abaganga gufata ibipimo by'umurwayi biri mu mubiri imbere ye kugira ngo babone uko bamuha ubuvuzi hakurikijwe icyo umubiri wabo wabanje kwerekana.

Icyumba kirimo imashini yabugenewe yo kwa muganga ndetse n'umuganga, iyimashini yifashishwa mu buryo bugezweho bwo kuvura cyangwa se kureba ibice by'imbere mu mubiri w'umuntu, niba hari igifite ikibazo bakamwohereza ubuvuzi bagendeye ku mashusho babonyemo imbere yiiwe. Ndetse bifite na computer iruhande bagenda bareberaho, cyangwa se basomeraho amakuru ajyanye n'uko umubiri w'umuntu urimo ugaragara.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho ikaba yubatse mu buryo bw'inyubako yo hasi, ikaba ikoreramo ubucuruzi bwo gucuruza imiti, abarwayi cyangwa se abakeneye serivisi zo kugura imiti niho baza kuyibariza, hirya y'aho hari ahaparikwa imodoka ndetse n'amamoto ku buryo umaze kubona serivisi z'imiti ashobora no kuba yatega ikinyabiziga kikamukura aho aguriye imiti.

Inzu yabugenewe yo kwa muganga, irimo ibikoresho byose nkenederwa kugira ngo hatangirwemo izo serivisi z'ubuvuzi. Hari udukoresho twabugenewe dushyirwamo imyanda, hari intebe zicarwaho n'abaganga ndetse hari n'ibitanda byabugenewe bikozwe mu buryo bwiza, aho umurwayi ukeneye kuvurwa bashobora kumuryamishaho igihe bari kumuha serivisi z'ubuvuzi. Ndetse harimo na televiziyo iri ku gikuta, si imwe kandi ni nyinshi. Zifashishwa mu gutambutsa amakuru agiye atandukanye.

Inyubako yo kwa muganga. Ifite ibyumba biriho imiryango bigiye bitandukanye. Mbere y'uko ujya muri koridori iriho ibi byumba, hari icyapa kiriho utumenyetso tugaragaza cyangwa se twerekana buri cyumba ibikorerwamo cyangwa se serivise zihatangirwa ku buryo umurwayi uje ahagana, abasha gusoma neza akamenya aho yerekeza.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya y'umweru ndetse n'igikoresho yambaye mu ijosi cyifashishwa mu gupima umutima cyangwa se ubundi burwayi, imbere y'iwe hari umwana w'umukobwa waje kwivuza, arimo afatwa ibipimo n'umuganga mu kaboko ke k'ibumoso areba ubushyuhe afite uko bungana kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi.

Inyubako yubatse ku buryo bw'amagorofa, ikaba iryoheye ijisho kuyireba, ikaba imbere yayo ifite ubusitani bwiza cyane burimo ibiti, hejuru ku nyubako hari icyapa kinini kigaragaza cyangwa se cyerekana serivisi ziyitangirwamo. Ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ikaba ari inyubako ikoreramo ivuriro ry'abigenga ritari irya leta abakeneye serivisi z'ubuvuzi baza gushakirayo.

Ikigo cy'igihugu kivura Kanseri mu buryo bugezweho, abantu barimo bakigana bajya kureba serivisi zitangirwamo ndetse n'abakeneye gusobanura uburyo ki gikoramo kugira ngo basobanukirwe bamenye amakuru.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ikaba ifite icyumba kinini kirimo intebe zigiye zitandukanye ndetse na mudasobwa iri ku meza, biryoheye amaso kubireba kuko harimo amashusho meza cyane y'amabara agiye atandukanye biryohera umuntu urimo urareba uko hasa.

Inzu ikorerwamo n'ubucuruzi bw'imiti, abarwayi cyangwa se undi wese ufite ikibazo mu mubiri we ushobora kuza kwaka izi serivisi, ahabona mu buryo bworoshye kuko hejuru y'inyubako, hari ikiranga aho inyubako iri ikorerwamo ubu bucuruzi bw'imiti, utambuka wese ashobora kuba yahasoma, kugira ngo bimworohere kuza guhaka izo serivisi.

Igikoresho kabuhariwe mu gukora siporo. Cyane cyane ahanini kifashishwa n'abana bato, aho umwana aza akicara muri kino gikoresho gifite imigozi ikozwe mu byuma, barangiza bakamusunika bakagenda bicunda, bamujyana hirya bamugarura, agakora siporo bikumva biramushimishije ndetse ahantu iki cyuma cy'igikoresho kiri harazitiye.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe y'akazi, yasuye umubyeyi mu rugo, arimo kumuganiriza ku bijyanye n'ubuzima, umubyeyi arimo kuvuga ndetse umuganga amuteze amatwi, kumva uko ari kuvuga, hanyuma bishingirweho umuganga nawe amusubiza, ndetse anamugira inama zimwe na zimwe zatuma ubuzima bwe bukomeza kugenda neza.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima. Basuye ikigo Irembo, basuzuma abakozi babo uko ubuzima bwabo buhagaze. Inyuma yabo hari ibikoresho bya kizimyamwoto byifashishwa mu kuzimya iyo habaye inkongi y'umuriro. Bigaragara yuko aba bakozi b'ikigo Irembo bari gusuzumwa kugira ngo bahabwe serivise z'ubuzima bwiza, hanarebwa uko ubuzima bwabo buhagaze.

Inyubako yubatse ku buryo bugezweho, ifite amagorofa ,kandi ahanini igizwe n'ibirahuri bitanga urumuri ruhagije mu nyubako mo imbere, ku marembo hari urukuta runini rw'amabuye rukoze neza, rwanditseho amagambo ya Ircad Afurika. Iyi nyubako ,ikorerwamo ibijyanye n'ubushakashatsi ku buzima cyangwa se ku miti ,n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'ubuzima.

Inyubako yabugenewe ifite salle ngari cyangwa se icyumba kinini, gifite amadirishya manini cyane cyane agizwe n'ibirahuri bitanga urumuri ruhagije muri yo, ikorerwamo n'ibikorwa bya siporo, aho abantu bagiye batandukanye bashobora kuza bakahabonera izo serivisi, ndetse hanarimo n'ibikoresho birimo nk'amamashini afasha abantu baje gushaka izo serivise za siporo bashobora gukoresha.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, aho abarwayi baza gushaka serivisi zigiye zitandukanye z'ubuzima kwa muganga, ababyeyi, abana, abagabo, abakecuru, bose bagiye batandukanye, baje ku kigo nderabuzima kugira ngo bahabwe serivisi zihatangirwa, ikigo nderabuzima kikaba giterwa inkunga n'umuryango imbuto foundation.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho, akaba ari inzu itangirwamo serivise z'ubuzima, ifite ibikoresho kabuhariwe mu gutanga izo serivise, harimo umuganga cyangwa se uwabihuguriwe, urimo gushyira porogaramu ku murongo atunganya ibikoresho bimwe na bimwe by'izo mashini.

Inyubako yubatse ku buryo bugezweho, ikaba ari inyubako irimo ibikoresho cyangwa se irindi koranabuhanga ryose rikenewe kugira ngo hatange serivisi zo kwa muganga, iyi nyubako ikaba yubatse mu buryo ki habasha gutangirwamo serivisi zitangwa n'ivuriro cyangwa se ibitaro ku buryo abaje bagana kwa muganga babasha kubona serivisi nziza kandi mu gihe kitarambiranye.

Inyubako zubatse ku buryo bwiza, imbere yazo hari ubusitani bwiza cyane, ndetse muri izo nyubako hari amatara atanga urumuri rwiza, imbere y'izi nyubako hari icyapa kinini kiriho uturanga amerekezo ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye zitangirwa muri izi nyubako, ku buryo uje kuhashaka serivisi z'ubuvuzi abasha kumenya aho ari bwekere bitamugoye.

Inzu yo kwa muganga yubatswe ku buryo bugezweho. Irimo ibitanda bigezweho aho abarwayi babonera ubuvuzi. Hagiye harimo amarido ku buryo ki buri gitanda iyo ayo marido bayafunguye, buri murwayi aba asa nkaho ari mu kumba kiwe atagize aho ahuriye n'undi murwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ifite icyumba gikoze ku buryo bwiza, gitatse imitako igiye itandukanye ku nkuta, ndetse hakaba harimo n'amatara meza atanga urumuri ruhagije, harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye bigaragara ko iki cyumba aricyo kiberamo inama.

Inyubako yo kwa muganga, yubatse mu buryo bugezweho. Ikaba itangirwamo serivise, z'ababyeyi ndetse n'impinja. Ababyeyi batwite baje bashaka serivise, babasha kugana ahari iyi nyubako, kugira ngo bafashwe n'abaganga, babone serivise baje kwa muganga bashaka.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bwiza, ikaba iteretsemo imashini yabugenewe yifashishwa n'abaganga mu gutanga serivise z'ubuganga, abaganga babiri bambaye ibikoresho bibarinda nk'udupfukamunwa ndetse n'impuzankano y'umwambaro w'akazi barimo baganira ku mikorere y'iyo mashini barimo bareba.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho, y'ivuriro. Imbere yayo haparitse amamodoka agiye atandukanye, aho abaza gushaka serivisi z'ubuvuzi, cyangwa se abahakora, bashaka guparika ayo mamodoka. Imbere yaho na none, ku ruhande rw'ibumoso, hari umutaka ukoramo umwagenti, abantu bashobora kuba bakeneye serivisi zijyanye n'amafaranga, Mobile Money, bashobora kuzibona mu buryo buboroheye.

Icyumba kabuhariwe cyo kwa muganga, gitangirwamo serivise z'ubuvuzi, kirimo imashini zigezweho, zifashishwa n'abaganga mu kuvura cyangwa se mu gutanga serivise z'ubuvuzi, hari n'intebe ntoya yicarwaho n'umuganga mu gihe ari kuvura cyangwa se kwita ku murwayi, ndetse harimo na taburo nini cyane iriho amashusho meza cyane mu gihe umurwayi arimo kuvurwa ashobora kuba arimo arebayo.

Inzu ifite umuryango mwiza. Cyane cyane ugizwe n'ibirahuri, kugira ngo hatange urumuri ruhagije mu nyubako mo imbere. Hejuru harimo amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, bigaragara ko aho hantu hahurizwa abana kugira ngo harebwe iby'imikurire yabo ndetse n'ibibazo by'uburwayi baba bafit, kugira ngo bakurikiranwe. Ayobmagambo yanditswe mu mabara agiye atandukanye, arimo asa nk'aho akurura abana kugira bahaze.

Inyubako yubatse ku buryo bwiza, ifite isuku ihagije, ifite amakaro hasi, ifite inzugi cyangwa se uburyo ki yubatsemo bw'ibirahuri bitanga urumuri ruhagije mo imbere muri yo, ni inyubako itangirwamo serivise cyangwa se ubujyanama ku bijyanye n'ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kabuhariwe, gifite imashini zigezweho zifashishwa mu kubika amaraso aba yafashwe ku bantu kugira ngo abikwe neza mu gihe atari yakoreshwa ku bayakeneye agumane ubuziranenge bwayo atabashije kuba yakangirika.

Ivuriro ritanga imiti rya Remera. Ryubatswe mu buryo bugezweho ndetse inzugi zayo zigizwe n'ibirahuri ahanini kugira ngo hatangwe urumuri ruhagije mu bice by'imbere mu ivuriro. Hanze yaho haparitse imodoka bigaragara ko ari iz'abahakora cyangwa se abaje gushaka serivisi z'imiti.

Umugabo wicaye munsi y'igiti, yicaye wenyine inyuma yaho hari inzu yubatse mu buryo bwiza, hakaba hagaragara igice cyayo cyo hejuru, ikaba ari inyubako itangirwamo serivisi zubuzima, uyu mugabo yaje kwicara munsi y'igiti afata akayaga cyangwa se aruhuka, umwanya utambutse yari yaje gushaka serivisi ahatangirwa serivisi z'ubuzima.

Inzu yabugenewe yo kwa muganga irimo ibikoresho bijye bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo, cyangwa se kunanura ibice bigiye bitandukanye by'umubiri. Abantu baje bagana ahongaho niho babasha kubonera serivisi. Harimo urumuri ruhagije, harimo imashini zihagije, kabuhariwe mu gufasha abantu mu kunanura ibice bitandukanye by'umubiri.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho ikorerwamo n'ibikorwa bijyanye no kwita ku barwayi cyangwa se kubavura. Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, harimo intebe zigiye zitandukanye zicazwaho abarwayi ndetse zifite n'ibindi bikoresho bishobora kurambikwaho nka serume ndetse n'ibindi byafasha umurwayi mu gihe arimo aho yaje kwicara akeneye serivise, ajyanwa aho ari buze kuvurirwa.

Laboratwari yo kwa muganga, irimo umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'umwambaro w'akazi itaburiya. Yambaye uturindantoki ga, ku ntoki afite icupa mu kuboko kwe kw'ibumoso. Arimo asomaho ibyanditswe inyuma abyandika mu mashini yabugenewe. Umuti afite ni uwifashishwa mu gusuzuma cyangwa se mu kureba ahanini icyo umurwayi arwaye mu gihe bamufashe ibipimo cyangwa se sample.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bugezweho. Iteye amarangi y'umweru ndetse n'amakaro ni umweru. Ifite amadirishya atanga urumuri ruhagije mu nyubako mo imbere. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi n'udutanda dushobora guhinwa tukaba nk'intebe cyangwa se bakakirambura kikaba igitanda umurwayi aryamaho mu gihe bari kumukorera

Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuzima ivuriro ry'abigenga rya Nyirinkwaya, ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye zo kuvura abafite ibibazo by'uburwayi, buri umwe wese ubasha kuza kwivuza hari icyapa kinini kiriho ibiranga cyangwa serivise zitangirwa muri iryo vuriro ku buryo uje ashaka serivisi ashobora kuyoborwa bitamugoye.

Inyubako ifite idirishya rinini rifite ibirahuri, ku buryo urimo imbere mu nyubako, abasha kureba izindi nyubako ziri hanze, akaba ari inyubako zikorerwamo cyangwa se zitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuzima.

Icyumba cyabuhariwe cyo kwa muganga. Kibikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi cyangwa se kubika imiti, inkingo n'ibindi byose bikenerwa bikoreshwa kwa muganga mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako yubatse ku buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba iteye amarangi y'umweru meza cyane imbere y'iyo nyubako hari ibendera ry'u Rwanda ni inyubako ikorerwamo cyangwa se itangirwamo serivise z'ubuvuzi, akaba ari ikigo nderabuzima cya Kanyinya aho abarwayi baza gushaka serivise z'ubuzima.

Ibitaro bya Kabgayi, amarembo magari yinjiza abantu baba baje gushaka serivisi z'ubuvuzi ku bitaro bya Kabgayi. Harimo abantu bagiye batandukanye barimo bahagana uri ku igare uhetse ibintu ku igare urimo agana mu bitaro mo imbere. Abaturage baje gushaka serivise zo kwa muganga babasha kwinjiramo bakajya kuzaka.

Umubyeyi w'umusaza. Arimo yitegereza umuganga urimo kumuvura, mu byishimo byinshi arimo guseka, umuganga yamwambitse igikoresho cyabugeneye mu kaboko k'iburyo arimo kumufata ibipimo, kugira ngo arebe ubuzima bwe uko buhagaze, ndetse anamuha serivisi zabugenewe kugira ngo abashe kuba yavurwa cyangwa se hari inama yagirwa zijyanye n'ubuzima bwiwe.

Inyubako nziza yabugenewe yo kwa muganga, irimo ibikoresho byiza bigezweho, kandi byifashisha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi. Iyo umurwayi aje agana kwa muganga akaba akeneye serivisi zimwe na zimwe, ashobora kuba yakoresha ikic icyumba kirimo zino mashini, abaganga bakamuha serivisi yaje ashaka.

Abarwayi bagiye batandukanye. Harimo ababyeyi bahetse abana ndetse n'abandi bantu batandukanye. Baje gushaka serivise z'ubuzima. Babanza kwakirwa n'abakozi b'ikigo nderabuzima kugira ngo bahabwe serivise z'ibanze ku muntu uwo ari we wese uje agana ikigo nderabuzima kugira ngo baze gufashwa, bahabwe serivise z'ubuvuzi.

Abanyeshuri bane bari muri raboratwari, bambaye imyambaro yabugene bambarwa bari muri raboratwari, mugenzi wabo umwe arimo arasuka amaporoduwi mu macupa agiye atandukanye, bigaragara ko baba barimo kwiga cyangwa se bari mu masomo ajyanye n'ibyo bize barimo kubikora babishyira mu bikorwa.

Inyubako nziza zubatse mu buryo bwiza. Imbere yazo hateye ubusitani burimo indabyo. Ndetse hari n'ahabugenewe ho kunyura, abagenda n'amaguru batambuka hakoze neza. Ku buryo ki uhanyura aba areba ibyiza, bitatse ubusitani bw'imbere y'izi nyubako. Harimo umwana ufitwe n'umupapa, barimo bagenda ndetse n'undi mwana ufite akabase k'umukara, urimo ugenda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini za mudasobwa, zifashishwa n'abaganga, iyo barimo bareba cyangwa se basuzuma ibice by'umubiri bakoresheje amafoto baba bafashe mu mashini zabugenewe kugira ngo babone yuko baza kwita ku murwayi. Umugabo arimo aritegereza neza, abasha kureba igice kirwaye ku buryo baza guha ubuvuzi umurwayi waje abagana.

Ivuriro ryitwa Sangwa ritangirwamo ibikorwa by'ubuvuzi. Winjiye muri iryo vuriro rifite amarembo abiri. Irembo ry'iburyo ryinjirwaho ugana mu ivuriro. Irembo ry'ibumoso risohokwamo usohoka mu ivuriro. Iruhande rwayo hari parikingi ziparikwamo ibinyabiziga by'abahakora cyangwa se abahagenda baza kwaka serivisi babiparika. Mu mbuga yabo harimo abagabo batatu barikuganira ndetse n'undi uriguturuka ruguru urimo kuza avuye kwaka serivisi.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga kirimo imashini zifasha mu gutanga serivise z'ubuvuzi, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse yambaye n'umwambaro umuranga ari mu kazi itaburiya y'umweru, arimo areba muri mudasobwa gahunda za serivise batanga kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga ifite icyumba kigali kirimo imashini kabuhariwe zifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, ndetse kikaba kirimo n'intebe zifite amapine hasi ku buryo intebe imwe ishobora kwimurwa ikajyana mu wundi mwanya, niyo yicarwaho umurwayi iyo bari kumuha serivisi z'ubuvuzi ndetse harimo n'amateleviziyo agezweho igihe bari kuvura abarwayi baba bareba amakuru bari gutambutsaho.

Inyubako nziza yubatse ku buryo bwiza ikoreramo ibitaro bya Nyarugenge, ifite ubusitani bugari kandi uhareba wese abona yuko hari ubwiza, abakeneye serivisi z'ubuvuzi ni ho baza kuzakira.

Inzu yubatse ku buryo bugezweho bwa etaje, ikaba iteye amarangi meza cyane y'umweru, mu nyubako mo imbere harimo intebe zigiye zitandukanye, uruganiriro ruganirwamo n'abantu baba baje gushaka serivise z'ubuzima cyangwa se bamwe mu bakozi bahakorera igihe bagize inama bakaba baterana bakaganira.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bw'amabuye, ikaba ifite ibaraza inyuma yayo ritwikiriye, aho abantu babasha kunyura bazenguruka iyi nyubako, hirya yaho hateye ubusitani bwiza cyane burimo umucaca mwiza, ku buryo umuntu urimo uhareba haba hari ishusho nziza yo kuhareba, ni inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima.

Sale yo kwa muganga irimo ibikoresho bigezweho bifashishwa mu buvuzi ndetse n'imashini zigiye zitandukanye. Umurwayi aryamye ku gitanda cyabugenewe. Gifite n'amapine. Imbere yiwe hateretse akameza barambikaho igikoma cyangwa se ibiryo aba akeneye. Ndetse harimo na puberi zabugenewe zo gushyiramo imyanda. Hari umuganga uhora ukurikirana abarwayi uri muri icyo cyumba urimo wita ku murwayi.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bw'amagorofa, ikaba ifite icyapa kinini hejuru kigaragaza ibikorerwamo, ni inyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubushakashatsi ku buzima cyangwa se imiti n'inkingo zishobora gukoreshwa mu kuvura abantu, imbere yayo haparitse imodoka bigaragara yuko ari iy'umwe mu bahakora cyangwa se waje guhashaka serivisi zijyanye n'izihatangirwa cyangwa se bakora.

Inzu ifite icyumba cyubatswe ku buryo bwiza, gifite uruhande ruriho idirishya rinini cyane rigizwe n'ibirahuri ahanini ritanga urumuri ruhagije muri icyo cyumba, icyo cyumba kirimo imashini kabuhariwe zo kwa muganga zigezweho, zifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyangwa se mu kubika ibikoresho bimwe na bimwe na bimwe bikoreshwa kwa muganga.

Inyubako nyinshi ziri hamwe zubatse mu buryo butandukanye, iruhande rwazo hakaba hari ubusitani bwiza cyane burimo indabyo ndetse n'ibiti, inyubako zikaba zitangirwamo serivisi z'ubuzima, abarwayi baje kwivuza, bakaba babona aho bashobora kuba bazihererwa.

Inyubako zikoreramo ikigo nderabuzima cya Kigina, gifite amarembo magari ariho porotayi nini, aho abantu baje gushaka serivisi binjirira cyangwa se abaganga bahakora baje gushaka serivisi binjirira, imbere yaho hari botike itangirwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umuntu ubikeneye ashobora kubibona, ndetse hari n'umubyeyi bisa nkaho aje gushaka serivisi ku kigo nderabuzima.

Icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, kirimo agatanda umurwayi aryamaho iyo barimo kumusuzuma bareba ikibazo afite, ndetse harimo n'izindi ntebe zigiye zitandukanye, aho umuganga uri gutanga izo serivisi yicara avura umurwayi, harimo nk'imashini ya mudasobwa yifashwa mu kubika amakuru y'umurwayi, cyangwa se kureba ibyifashishwa byaherwaho umurwayi, kugira ngo bamuvure.

Abantu benshi bagiye batandukanye bicaye mu nzu nziza, barimo bareba televiziyo bashobora kuba bari kwa muganga cyangwa se muri banki, bategereje ko serivisi baje gushaka zibageraho, barimo bareba televiziyo iri imbere yabo.

Inzu yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo nk'intebe zicarwaho n'abarwayi zabugenewe zishobora guhinwa cyangwa se zigahinurwa ndetse n'intebe muganga yicaraho mu gihe bari gutanga izo serivisi, hari udukoresho turarambikwaho imiti n'ibindi bikoresho bishobora kwifashishwa na muganga mu gihe arimo kuvura umurwayi.

Inyubako ifite icyumba kigari, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi. Imashini z'ikoranabuhanga zigezweho ndetse n'ibindi bikoresho birimo nka mudasobwa n'ibindi bigiye bitandukanye byifashishwa kugira ngo habashe gutangwa serivise z'ubuvuzi zitangwe neza kandi mu buryo bwiza.

Inyubako nziza yo kwa muganga itangirwamo serivisi zo gufasha ababyeyi baje bagana ikigonderabuzima nk'abaje kubyara, cyangwa se abaje kwipimisha kugira ngo barebe uko mu nda abana bahagaze, uko bameze n'ubuzima bwabo. Imbere y'inyubako hari umurasire wifashishwa mu gutanga ingufu zituruka ku zuba zibasha gutanga urumuri mu kigo nderabuzima.

Inzu irimo icyumba cyabugenewe mu kubika ibikoresho byifashishwa mu buvuzi kwa muganga, nk'ahabikwa gaze, amacupa manini agaragara abikwamo gaze, yifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye byo kwa muganga, nko kubika imiti cyangwa se inkingo, bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ababifitiye ububasha n'ubushobozi ni bo babasha kubigenzura.

Inyubako yubatse ku buryo bugezweho, ikaba igeretse, ikaba itakishijwe n'amarangi meza cyane ndetse imbere yayo hari ubusitani burimo ubwatsi bwiza, iyi nyubako ikaba ikoreramo ikigo gishinzwe kwita ku buzima, aho abantu baza baje gushaka serivisi bashobora kuzibona, hakaba hari n'icyapa kinini kiriho nimero umuntu yabahamagaraho, igihe asanze badahari kikabayobora.

Umuganga w' umugore wambaye imyambaro yabugenewe yo kwa muganga, arimo yumva akoresheje agakoresho kabugenewe, uko umurwayi ameze atega ugutwi kugira ngo yumve amajwi, kugira ngo abone aho ahera afasha umurwayi.

Abaturage bagiye batandukanye bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari abayobozi bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza ndetse muri abo bayobozi umwe muri bo arahagaze, arimo arababwira cyangwa se abigisha uburyo ki bakwiriye kurwanya ihohoterwa rikorerwa abageze mu zabukuru.

Icyumba cyo kwa muganga kigezweho, kirimo urumuri ruhagije, iruhande rwacyo hari ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, nk'imashini yifashishwa n'abaganga mu kuvura umurwayi babanje kureba ibice bigiye bitandukanye by'imbere mu mubiri wiwe, iruhande rwaho hari screeen nini cyane, igaragaraho amashusho baba barimo barebamo imbere bakayasoma kuri screen igaragara imbere.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi nka mudasobwa ibikwamo amakuru y'abarwayi cyangwa se abaje gushaka serivise kwa muganga n'ibindi bishushanyo birimo ku buryo uhageze abona ari ahakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi ndetse hari n'intebe zicarwaho n'abarwayi iyo bategereje guhura na muganga.

Inyubako irimo ibitanda byabugenewe mu kwakira abarwayi baje bagana ibitaro kwaka serivise z'ubuvuzi, harimo n'utumeza turambikwaho ibikoresho by'abarwayi cyangwa se muganga igihe ari kuvura umurwayi agashyiraho ibikoresho aba yifashisha, ni icyumba cyiza cyubatse ku buryo bugezweho gifite n'amadirishya meza atanga urumuri rwinshi mo imbere.

Ababyeyi babiri bicaye barimo gufatwa ibipimo n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi. Yambaye gans ku ntoki zimurinda. Arimo gufata ibipimo umubyeyi umwe muri bo. Ariko n'undi na we arimo kumva cyangwa se akurikirana ibyo muganga arimo kuvuga kuko umubyeyi urigufatwa ibipimo yitegereza muganga neza ibyo arimo kumubwira bigaragara yuko bishimiye igikorwa barigukorerwa.

Inyubako zubatse mu buryo bugezweho. Zikaba ari inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuzima. Zifite amatara ahagije atanga urumuri ruhagije. Ku mabaraza y'izi nyubako hari abantu bagiye batandukanye bategereje guhabwa serivisi z'ubuzima. Hanze y'iyi nyubako hari ubusitani bwiza cyane, bukaba burimo indabyo n'ubwubatsi bwiza ndetse n'igiti kiza gitanga umwuka wo guhumeka mwiza.

Ikigo nderabuzima cyubatswe ku buryo bugezweho cya Nyarugenge, kiriho utumenyetso tugaragaza aho abarwayi banyura baje gushaka serivise zigiye zitandukanye ku kigo nderabuzima, cyubatswe mu buryo bugezweho imbere yaho hateye indabyo ndetse n'ibiti bitanga akayaga keza, bigaragara ko imirimo yo kucyubaka itari yarangira kuko iruhande rwaho ahagana imbere hari ahakigaragara ibikoresho bimwe na bimwe by'ubwubatsi bitari byavanwaho.

Inyubako zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, zikaba zitakishijwe amarange meza cyane y'umuhondo ndetse zimwe muri zo zubatse zizengurutse, zikaba zubakishijwe amabuye ndetse n'izindi zubakishijwe amatafari, zikaba zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga. Gifite amadirishya manini, atanga urumuri ruhagije. Hakaba harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi. Harimo imashini zigiye zitandukanye zifashishwa mu kubika ibikoresho cyangwa se imiti byifashishwa iyo barimo batanga ubuvuzi kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse ku buryo bugezweho. Kirimo amatara atanga urumuri ruhagije. Harimo igitanda kirambikwaho umurwayi igihe arimo kwitabwaho n'umuganga. Hejuru y'iki gitanda hacometse imashini yabugenewe yifashishwa mu buvuzi ndetse muri icyo cyumba harimo agatebe umuganga yicaraho mu gihe ari gutanga ubuvuzi ku murwayi.

Inzu yubatse ku buryo bwiza. Inyuma hakaba hari intebe zicarwaho n'ababa baje gushaka serivisi zo kwa muganga. Iyi nzu itangirwamo serivisi y'ababyeyi baba batwite baba baje kubyara cyangwa se ababa baje kwisuzumisha bafata ibipimo bareba aho inda igeze ikura. Abaza bose gushaka izo serivisi babasha kuzibona mu buryo bwiza.

Inzu ngari yo kwa muganga, irimo ibitanda bigiye bitandukanye, aho buri murwayi ashobora kuryamishwa ndetse kuri hafi ya buri gitanda hari akameza ko kurambikaho ibikoresho, imiti ndetse n'amadosiye umurwayi ashobora gukoresha ari kwa muganga. Kandi harimo urumuri ruhagije ndetse n'isuku ihagije ku buryoki umurwayi uharwariye abasha kuruhuka ndetse no kwitabwaho neza n'abaganga.

Inyubako ya Laboratwari yubatse ku buryo bugezweho, irimo abaganga cyangwag se abayikoramo batatu, bari mu bikorwa bigiye bitandukanye bijyanye n'ubushakashatsi bwabo, imbere yabo hateretse icupa rivamo amavuta yo guteka, bisa nkaho ibyo barimo bakoraho bifite aho bihuriye n'ibyo abantu bashobora kurya cyangwa se bashobora gukoresha nk'amafunguro.

Icyumba gikozwe mu buryo bwiza cyagenewe kuba hakorerwamo cyangwa se ngo hatangirwe serivisi z'ubuzima. Kirimo ibikoresho bihagije bikenewe kugira ngo izo serivisi zitangwe. Harimo nk'igitanda kirambikwaho umurwayi mu gihe bari kumukorera ubuvuzi, ndetse n'intebe muganga uba uri kumuvura yicaraho. Ni icyumba kiri ahantu heza kuko gifite n'amadirishya atanga urumuri ruhagije mo imbere muri cyo.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zifite ubusitani imbere yazo, ubusitani bwiza cyane. Zikaba zitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, aho abarwayi bakeneye kuza kwivuza bashobora kuza kwaka izo serivisi.

Inyubako ifite icyumba cyiza kibikwamo ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu buvuzi ndetse hakaba harimo n'ibindi abaganga bahita bakoresha mu kuvura abarwayi, harimo n'intebe zikoze nk'ibitanda, ishobora guhinwa ikaba nk'igitanda, aho umurwayi ashobora kuryama igihe bari kumukorera ubuvuzi.

Icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, kirimo urumuri ruhagije, kirimo agakoresho bashyiramo imyanda, aho bakarabira intoki, aho bashobora kubika amadokima agiye atandukanye ndetse hari n'igitanda umurwayi ashobora kuryamaho, akaba yabona naho arambika amaboko mu gihe bari kumuha serivise z'ubuvuzi cyangwa se bamusuzuma bareba ikibazo yaba afite mu mubiri kugira ngo bamuhe serivise yaje ashaka.

Inzu yo kwa muganga itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, koridori irimo intebe nyinshi zicayeho abarwayi, buri murwayi yambaye agapfukamunwa bigaragara yuko bababaye baje kwa muganga bafite ikibazo cy'uburwayi gikomeye, umwe muri bo arimo araganirizwa n'umukozi wo kwa muganga cyangwa se undi muntu urimo kugenda, ariko umurwayi ntabwo ashaka kumureba no kumva ibyo ari kumubwira we ubwe aribabariye.

Inyubako yo kwa muganga irimo igikoresho cy'ikoranabuhanga cyabugenewe mu gutanga ubuvuzi bugezweho, umuganga ukora muri icyo cyumba arimo agenzura iyo mashini areba ibikoresho byose biri ku murongo ndetse anareba yuko ishobora kuba yakwakira cyangwa se igatanga serivisi ku murwayi uje ubagana.

Umurwayi uri kwa muganga akaba yaragize ikibazo cy'imvune, ntabwo yashobora kugenda atagendeye mu mbago, muganga arimo kumufasha uko amwerekera uko bakoresha igikoresho cy'imbago ngo akigenderemo kugira ngo bimufashe kuba yakomeza gukira.

Agatanda kabugenewe gatwarwaho umurwayi cyangwa se uwagize ikibazo kuburyo adashobora kwigenza, umubiri wiwe wacitse intege. Abagabo babiri bafite agatanda gasa nkahoa karambitseho umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bagiye kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Igikoresho cyiza, cyabugenewe. Cyifashishwa mu gukora siporo. Cyambarwa ku gice cy'umubiri kugira ngo umuntu uri gukora siporo atabasha kuza gukomereka cyangwa se ngo avunike, yangirike ingingo ze z'umubiri. Kiri mu kimufasha kuba cyamurinda kuba yagira impanuka, agakomereka cyangwa akavunika.

Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe yo gukora siporo. Akaba yambaye na ekuteri mu matwi imufasha kumva imiziki mu gihe ari muri siporo. Afite icupa ry'amazi meza mu kiganza cyiwe cy'ibumoso. Arimo kunywa amazi. Bigaragara yuko asoje gukora siporo, ari kunywa amazi kugira ngo abashe kumufasha gusohora indi myanda iri mu mubiri.

Umuganga uri kwita ku murwayi wagize ikibazo cyo kuvunika akaboko ari mu bikorwa bya siporo, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe bifasha abagize ibibazo by'imvune, birimo igitambaro kizirikwa ku mubiri ahagize ikibazo cy'imvune, umuganga arimo kumwitaho amushyiraho ibitambaro bimufasha kuba byamuvura ingingo zagize ikibazo zikagaruka mu murongo wazo.

Umugabo uri muri siporo, yambaye ga, asa n'uri gukina imikino igiye itandukanye, akaba yagize ikibazo ku kiganza cyiwe cy'ibumoso, arimo kwitabwaho n'ufite ubushobozi cyangwa se umuganga urimo kumwitaho ku kibazo cy'imvune yagize ari mu bikorwa bya siporo.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe yo gukoresha siporo, akaba yicaye yahimye akaguru k'ibumoso ak'iburyo yakararambuye, arambura n'amaboko abiri arimo akora ku kaguru k'iburyo, arimo kunanura ibice bigiye bitandukanye by'umubiri. Siporo ni kimwe mu bituma umuntu ananura umubiri ndetse akarwanya indwara zigiye zitandukanye zituruka ku kudakora siporo bigatuma agira ubuzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo ndetse yambaye agatambaro gasa n'ubururu ku kaboko kiwe k'ibumoso, afite icupa ry'amazi mu biganza arimo kuyisuka mu maso bigaragara yuko yari amaze umwanya munini ari muri siporo, arimo yisukamo amazi mu mutwe.

Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe yo gukoresha siporo, isengeri, ipantaro ndetse n'inkweto. Akaba yambaye n'utwuma twambarwa mu matwi twumvikanisha imiziki cyangwa se uburyo ki buri kumuyobora kugira ngo akore siporo, siporo biri muri kimwe mu bifasha kurwanya indwara zimwe na zimwe.

Ubukangurambaga buri kuba mu gusuzuma indwara. Umwana arimo arasuzumwa indwara, atungwa agakoresho kabugenewe mu gusuzuma amaso. Umuganga cyangwa se umukangurambaga afashe umwana, arimo aramutunga agakoresho kabugenewe, kugira ngo umwana asuzumwe hamenyekane ikibazo afite, ahererweho ahabwa ubufasha.

Umugabo wicaye. Yambaye imyenda ya siporo. Asoje ibikorwa bya siporo. Arimo kunywa amazi. Bigaragara yuko kunywa amazi, biri mu bifasha gusohora imyanda myinshi mu mubiri, iyo umuntu amaze gukora siporo. Siporo ni nziza ku buzima, ishobora gukora nk'umuti wo kurwanya indwara zigiye zitandukanye, umubiri ushobora kuba wafatwa nazo.

Inzu nziza nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho abantu baza bahagana kugira ngo babashe kuza kubona izo serivise z'imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho kabuhariwe kifashisha mu gukora siporo, kigura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi ijana na makumyabiri kigufasha gukuraho ibinure byo ku nda mu buryo bukoroheye, abantu bakeneye gukora siporo babasha kugabanya ibiro bahereye mu kugabanya ibimera bafite ku nda bashobora kuba bagikoresha.

Umugore n'umugabo bambaye imyambaro yabugenewe. Bari gukora siporo. buri umwe afite icupa ry'amazi. Bigaragara yuko iyo barushye cyangwa se bari kuruhuka, banywa ku mazi meza. Amazi ari muri kimwe kibafasha gusohora imyanda mu mubiri mu gihe baba barangije siporo yo kwiruka. Ni byiza rero ko umuntu anywa amazi kuko aba yanatakaje menshi ari mu bikorwa bya siporo.

Umugabo uryamye ku gatanda kabugenewe, yambaye imyambaro yabugenewe yo gukoresha siporo, arimo arafashwa n'abagabo babiri bamufasha kumugorora ibice bigiye bitandukanye by'umubiri, bisa nk'aho ari muri siporo cyangwa se ari mu gikorwa cyo kugira ngo bamukorere imyitozo ibasha gutuma agorora ibice bigiye bitandukanye by'umubiri we.

Ibikoresho bigiye bitandukanye by'itumanaho biri kumwe n'ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu buvuzi. Umubyeyi afite telefone ari kuvugiraho afite n'impapuro mu ntoki asa nkaho ari gusomaho atanga amakuru agiye atandukanye. Iruhande rwaho hari ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu gupima umuriro ndetse n'ubushyuhe umuntu afite.

Inzu irimo abantu babiri, umugore n'umugabo. Umugabo ari mu myitozo ngororamubiri. Umugore na we arimo aritegereza areba ko umugabo ibyo arimo arakora ari byo, kandi ari kubikora neza. Kandi harimo ibikoresho bindi bigiye bitandukanye, bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye. Harimo nk'imigozi yo gusimbuka ndetse n'ibindi.

Umugabo uryamye ku gatanda kabugenewe. Yambaye inkweto za siporo, bigaragara ko yari ari mu bikorwa bya siporo ariko akaba yagize ikibazo mu kaguru. Arimo arafashwa n'umugabo urimo kumukanda, agenda yumva ahari ikibazo kugira ngo ananure iyo mitsi, amuhereze serivise z'ibanze z'ubuvuzi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu kuvura abarwayi, byiganjemo ibitambaro bizirikwa abagize ibibazo by'imvune ndetse n'imiti bashobora gusigwa igihe bagize ibibazo by'imvune. Iruhande na none hari ibikoresho bizwi nk'uturindantoki cyangwa se ga zambarwa n'umuganga cyangwa se uri kwita ku murwayi kugira ngo ataza kwanduza cyangwa se ngo yanduzwe n'umurwayi.

Umukobwa wicaye hasi urimo gukora siporo, yambaye imyenda yabugenewe imufasha gukora siporo, arimo ananura ibice bigiye bitandukanye by'umubiri kugira ngo bimufashe kunanura imitsi ndetse siporo iramufasha kugira ubuzima bwiza.

Inzu irimo icyumba kirimo etajeri, harimo imiti irimo udukari tugiye dutandukanye, imiti isa irimo udukarito dusa ipanze ukwawo n'indi ipanze ukwayo ukurikije uko igiye imeze ndetse n'umumaro wayo.

Uburyo bugiye butandukanye umuntu yakoramo siporo ngororamubiri, yicaye arambuye amaboko, ahagaze arambuye amaboko, ahagaze amaguru arambuye, amaboko arambuye, intoki zihinnye, ahinnye akaguru kamwe kazamuriye inyuma ndetse n'akandi gahagaze, bimufasha kugorora ibice byose by'umubiri.

Icyumba kinini kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa muri siporo ngororamubiri, harimo umugabo uri kugenda asimbuka utugozi turi hasi afite n'umupira mu ntoki, bisa nkaho ari kugenda akora imyitozo, iruhande rwe hari umugabo uri kugenda areba uko akora, umufasha muri iyo myitozo, agenda areba aho yakoze amakosa akamukosora kugira ngo aze kubikora neza.

Imbuto zigiye zitandukanya, zirimo inzabibu, amacunga, pome, karoti, amashu, kokombure ndetse n'izindi, hari umugabo urimo kwiruka usa nk'aho ari muri siporo ndetse yambaye n'iyenda yabugenewe yambarwa mu gukora siporo.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe yo gukora siporo. Yambaye agasengeri k'umutuku. Yambaye isaha ku kuboko kiwe k'ibumoso, ndetse yambaye n'utwuma dusohora amajwi mu mumatwi. Arimo gukora siporo ashingiye ku majwi ari kumva icyo agenda amubwira n'uko agomba kwitwara mu bikorwa bya siporo arimo. Siporo ni kimwe mu bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umukinnyi wari mu bikorwa bya siporo, yambaye inkweto zabugenewe zo gukoresha siporo, ariko aryamye ku gatanda, arimo gufashwa n'umuganga ufite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvura uwagize imvune, birimo igitambaro kizirikwa uwagize imvune ahavunitse kugira ngo akire, ndetse n'imakasi yifashishwa mu gukata icyo gitambaro, kugira ngo bamufashe bamuhe ubuvuzi akire.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, harimo nk'igikoresho abaganga bambara mu ijosi bashobora kwifashisha iyo bari gupima uko umutima utera ndetse hari n'intebe yabugenewe yo kwa muganga aho utanga serivisi ashobora kwicara cyangwa se umurwayi bitewe n'ibipimo cyangwa se uko umurwayi arwaye kugira ngo bamufashe bamuvure.

Abana benshi bagiye batandukanye, higanjemo abakiri bato bavanze n'urubyiruko, bari mu bikorwa bya siporo, ariko imbere yabo hakaba hari umugabo urimo kubayobora uko siporo barimo y'imyitozo ngororamubiri uko ikorwa, siporo ni kimwe mu bituma umuntu abasha kugira ubuzima bwiza, kuko irwanya indwara zimwe na zimwe zituruka ku mibyibuho ikabije, ndetse n'izindi.

Umugabo uri mu bikorwa bya siporo, akaba arimo afashwa n'umuganga, wambaye impuzankano y'akazi kumugorora ibice bitandukanye by'umubiri, aryamye agaramye, arimo kunanurwa akaguru kiwe k'iburyo kugira ngo amufashe avurwe binyuze mu buryo bwo gukora siporo no kunanura imitsi.

Umubyeyi wazanye umwana kwa muganga. Umubyeyi yambaye agapfukamunwa. Umuganga urimo gusuzuma umwana we yambaye imyambaro y'akazi ndetse yambaye akapfukamunwa. Yicaye mu biro aho basuzumira cyangwa se abo bakirira abarwayi, habanza gusuzuma indwara bafite kugira ngo babahe serivisi z'ubuvuzi. Muganga afite igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gusuzuma, ikibazo umwana yaba afite. Bigaragara ko umwana afite ikibazo cy'uruhu.

Icupa rikoze mu buryo bwa plastiki, rifite umunwa ushobora kuba wapfundikirwa, ariko rirapfunduye, ririmo rirasuka amazi mu gikombe gikoze mu kirahuri, ikirahuri kirimo cyongerwamo amazi meza, bigaragara y'uko amazi ari kuva mu icupa ajya mu kirahuri aya mazi ari meza ari ayo kunyobwa.

Imbuto zigiye zitandukanye zirimo pome, amacunga. Iruhande rwazo hari agacupa k'amazi. Ndetse hari n'ibikoresho bindi byifashishwa mu gukora siporo bagenda baterura bazamura. Iruhande rwayo nanone hari metero ikoreshwa mu gupima uburebure bw'ikintu cyangwa se umuntu.

Icyumba kinini kirimo ababyeyi, buri mubyeyi ari kumwe n'umwana wiwe, muri icyo cyumba harimo ibitanda bifite matera buri mubyeyi yicaye kuri matera yiwe ishashe ndetse n'umwana wiwe, bigaragara yuko ari kwa muganga aho ababyeyi baruhukira, bafite abana bakagenda bakahicara bakaharuhukira n'ushaka kuryama akaryama akaruhuka.

Umuteguro w'imbuto zigiye zitandukanye, harimo pome, harimo imineke ndetse harimo n'imboga zijyanye na kokombure cyangwa se puwavuro ndetse n'amacunga. Hirya hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo. Iyo umuntu amaze gukora siporo, ni byiza ko afata imbuto n'imboga kugira ngo bikomeze kumufasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ufite ikibazo cy'imvune ku kaboko, akaba yarambitseho agatambaro mu rwego rw'ubutabazi bw'ibanze, yari ari mu bikorwa bya siporo ariko yabivunikiyemo, mu rwego rwo kuba ategereje ubuvuzi cyangwa se ubundi bufasha bwisumbuyeho, yakoresheje agatambaro agafatisha aho yagize ikibazo cy'imvune, mu gihe agitegereje ubundi bufasha yabona bwamufasha kuba yakira ikibazo yagize muri siporo.

Umugore wambaye imyambaro yabugenewe yo gukoresha siporo, yaba imyambaro ndetse n'inkweto ari gukora siporo ananura amaguru ndetse n'amaboko, afite umubyibuho munini arimo arakora siporo kugira ngo agabanye ibiro bimufashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa uri muri siporo, yafashe akarago cyangwa se agakoresho kabugenewe umuntu ashobora gukoreraho siporo ari mu rugo, arambuye amaboko ari hejuru, akaguru kamwe karahinnye kari hasi akandi gahiniye mu ivi, bigaragara yuko siporo ituma agira ubuzima bwiza.

Igikoresho cyitwa imbago. Ikaba ari igikoresho cyifashishwa n'abagize ikibazo cy'imvune yo mu kaguru iyo batakibasha kugenda nta kintu bishingikirijeho, bashobora kugikoresha kugira ngo babashe gutambuka, kandi nanone gikoreshwa nk'ubuvuzi bushobora gufasha ugikoresha wagize ikibazo cy'imvune kuba yazakira mu gihe runaka.

Igikoresho cyiza cyabugenewe gikoreshwa kwa muganga cyangwa se kigakoreshwa n'abantu baba bari muri siporo mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane ababifiteho ubumenyi ni bo bashobora kugikoresha bafasha abantu bari muri siporo.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe mu gukora siporo, ikiganza cye cy'ibumoso gifite icupa ry'amazi meza, arimo kunywa amazi ndetse anayisuka mu mutwe, ikimenyetso cy'uko amazi ari ubuzima bwiza, kandi ukora siporo akwiriye kunywa amazi kugira ngo aruhure umubiri, kandi agafasha mu gusohora imyanda imwe n'imwe mu mubiri wiwe.

Umuteguro w'imbuto n'imboga bigiye bitandukanye. Harimo pome, harimo puwavuro, harimo avoka, harimo tungurusumu ndetse na karoti n'imiteja. Iruhande hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo inkweto zabugenewe, akarago cyangwa se akamatola gatoya gashobora gukoreshwa iyo umuntu ari gukora siporo, bisobanuye ko iyo umuntu asoje siporo agomba kurya imbuto n'imboga kugira ngo bimwongerere ubudahangarwa mu mubiri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze iyo umuntu yagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa se yarwaye, harimo nk'ibikoresho byifashishwa mu gukata ibitambaro, amamakasi, amaga yo kwambara, ibitambaro byo kuzirikwa aho umuntu yaba yagize imvune cyangwa se agapfukwa, ndetse n'ibinini bigiye bitandukanye, aho umuntu ukeneye ubutabazi bw'ibanze abubona mu buryo bworoshye.

Urugaga cyangwa se itsinda ry'abantu bakina imikino njyarugamba mu Rwanda. Ikunze kwitwa karate. Abantu bagiye batandukanye bakeneye kuyikina cyangwa se kuyijyamo bashobora kwegera cyangwa se kwinjira muri iryo tsinda kugira ngo bayikine. Umugabo n'umugore barimo bakina iyo mikino njyarugamba bambaye imyambaro yabugenewe.

Ikigo mbonezamikurire. Aho abana bagiye batandukanye bahazanwa kugira ngo bahabwe serivisi zigiye zitandukanye, zibafasha mu kubongerera ubumenyi ku buryo bakura neza. Basuwe n'abantu bagiye batandukanye harimo abazungu ndetse n'umubikira. Basuye abo bana aho bakusanyirizwa babafasha bareba ko bakora izo serivisi bahabwa. Umwana yishimiye kuba yasuwe.

Umugabo wambaye agapira k'uburu gaciye amaboko, ndetse yambaye isaha kuboko k'iburyo, afite icupa ry'amazi mu ntoki mu kiganza kiwe k'iburyo, arimo kunywa amazi.

Umurwayi waje kwa muganga, aryamye ku gatanda barambikaho abarwayi ahinnye ivi, muganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agakoresho kabugenewe kifashishwa mu buvuzi yambaye mu ijosi, amufashe ku ivi arimo aragenda asuzuma ahagize ikibazo kugira ngo ahatahure.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe, arimo gukora siporo agorora ibice bigiye bitandukanye by'umubiri, ku kaboko ke k'iburyo hariho agakoresho gafata telefone ndetse yambaye udukoresho twumvikaniramo amajwi mu matwi tuzwi nka ekuteri, imbere yewe hateretse icupa ry'amazi.

Umukobwa wicaye uri mu bikorwa byo kunanura umubiri, ibikorwa bya siporo, yicaye amaguru yayasobetse ndetse akaboko kamwe gafashe hasi akandi karazamuye, birasa nk'aho ari kugorora imbavu n'ibindi bice bitandukanye by'umubiri, iruhande rwiwe hari amazi meza yo kunywa, agenda amufasha kugira ngo akore siporo neza.

Umuti witwa " Neosporin" ukaba ukoreshwa n'abantu baba bagize ibibazo by'imvune cyangwa se ibindi bibazo baterwa no kuba bakoze siporo nyinshi. Ushobora kubafasha kubavura indwara zigiye zitandukanye zishamikiye cyane cyane ahanini ku bikorwa bya siporo baba bakoze bikabagiraho ibibazo by'uburwayi.

Umwana w'umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe bajyana muri siporo. Afite icupa ryamazi mu kaboko kwe kw'iburyo, arimo kunywa amazi meza. Amazi meza ni ikimenyetso cy'uko umuntu afite ubuzima bwiza iyo ayanywa kuko buri muntu wese ukora siporo aba akeneye no kunywa amazi kugirango bikomeze kumufasha gusohora imyanda mu mubiri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura cyangwa se mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bagize ibibazo by'imvune bari muri siporo. Harimo nk'ibipfuko, ibitambaro bizirikwa abagize ibibazo by'imvune, ndetse n'imiti y'amavuta ishobora gusigwa abavunitse kugira ngo bavurwe.

Umugabo wambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu gukora siporo. Arimo gukora siporo ananura imitsi yo mu maboko. Yahimye akaboko akandi yakarambuye. Siporo imufasha kunanura imitsi, bikamurinda indwara zimwe na zimwe zishobora guturuka mu kudakora siporo cyangwa se zaba zinahari ikamufasha kuba zakira.

Umukobwa wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora siporo, akaba aziritse agatambaro mu mutwe ahagana ku bisuko. Ari muri siporo arambuye amaboko hejuru kugira ngo abe ananura imitsi yo mu maboko. Siporo iri muri kimwe gituma umuntu agira ubuzima bwiza harwanywa indwara zimwe na zimwe zituruka kutayikora.

Imipira igiye itandukanye yifashishwa gukina imikino irimo nk'umupira w'amaguru, imikino y'amaboko ndetse n'indi mikino y'indi igiye itandukanye, iruhande rwayo harimo igikoresho gikoreshwa n'abaganga mu gupima ko umutima uri gutera.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze iyo umuntu yagize ikibazo cy'imvune cyangwa se hari ikindi cyatumye akomereka mu gihe ari mu bikorwa bya siporo, harimo ibitambaro dushobora kuzirikwa ku umuntu wagize imvune, amavuta cyangwa se umuti bishobora gusigwa ahantu umuntu yagize imvune, ibi byose bikaba ibyakifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku kibazo umuntu yaba yahuye nacyo kijyanye n'imvune.

Ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu gukora siporo. Ndetse hakaba harimo n'insimburangingo, aho abantu bagiye batandukanye bafite ikibazo cy'insimburangingo, bashobora kuzibona bakazikoresha. Harimo nk'ibikapu, n'ibindi bikoresho byinshi bigiye bitandukanye, umuntu ashobora kwifashisha, ari gukora siporo.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, uhagaze afite icupa ry'amazi mu kuboko kwiwe kw'iburyo arimo kunywa amazi. Amazi ni kimwe mu bituma umuntu abasha kuruhura umubiri cyangwa se gusohora imyanda myinshi mu mubiri cyane cyane nk'igihe amaze gukora siporo akanywa amazi n'igikorwa cyiza aba akoze kimufasha gukomeza gusohora imyanda mu mubiri.

Insimburangingo zabugenewe zambikwa abafite ikibazo cyo kuba badafite ingingo zuzuye, nk'urugero, insimburangingo dufite, ni insimburangingo zambikwa ahantu hadafite ingingo z'akaguru k'iburyo, ndetse ku buryo buri umwe wese ubashije kuyambara, udashobora kumenya ko ayifite kuko aba agenda neza bisanzwe bimeze nk'undi muntu wese ufite ingingo zuzuye.

Igikoresho cyiza cyabugenewe cyambarwa mu ivi, cyane cyane gikoreshwa n'abantu bakora ibikorwa bya siporo kibarinda kugira ngo bataza kugira ikibazo cyo kuvunika mu buryo bworoshye mu ivi.

Umukobwa wicaye ku gitanda. Bigaragara yuko akaguru ke k'iburyo kagize ikibazo cy'imvune cyangwa se agakomereka. Yaje kwa muganga aje gushaka serivisi z'ubuvuzi. Abaganga bamwitayeho mu buryo bwose bushoboka bamuhaye ubuvuzi bamupfutse. Yizeye ko aribuze gukira akagira ubuzima bwiza.

Umugabo wicaye uvuye muri siporo, yambaye imyenda yabugenewe umuntu yambara agiye gukora siporo. Afite icupa ry'amazi mu ntoki z'iwe arimo anywa amazi meza, kugira ngo arwanye cyangwa se yirukane imyanda imwe n'imwe, iba yasigaye mu mubiri iyo umuntu asoje gukora siporo, kuko amazi ari muri bimwe bifasha gusohora imyanda myinshi mu mubiri.

Umuganga wambaye imyambaro yabugenewe, yambarwa n'abaganga iyo bari mu kazi. Akaba yambaye agapfukamunwa kamurinda kuba yakanduzwa, indwara zigiye zitandukanye n'abarwayi, ndetse yambaye n'uturindantoki ga, n'agakoresho yambaye mu ijosi kifashishwa n'abaganga gupima ko umutima uri gutera. Arimo areba muri mudasobwa dosiye zigiye zitandukanye z'abarwayi kugira ngo babafashe babavure.

Igikoresho gikozwe muri palasitiki. Kifashishwa muri siporo iyo umuntu wagize ikibazo akavunika ku buryo atabasha kwigenza ashobora gushyirwa kuri kino gikoresho akaba yagitwarwaho gikoreshwa nk'uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze bukoreshwa n'abari hafi mu gihe bategereje ko ahabwa ubufasha bwisumbuyeho.

Igikoresho cyabugenewe cyo kwa muganga, gifite ikoranabuhanga rigezweho, aho abantu baje kwa muganga kwivuza cyangwa se gushaka serivisi z'ubuvuzi bashobora kuza bakakinyuramo kugira ngo abaganga babashe kureba neza mu mubiri wabo niba ari ubuvuzi bakeneye babubaheze babanje kumenya igice gifite ikibazo.

Umugabo wicaye, birasa nkaho arwaye, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru, amufashe akaboko, akaboko k'uyu mugabo wicaye urwaye gapfumbase icyuma mu ntoki. Umuganga arimo aramuvura cyangwa se amunanura imitsi.

Umuteguro w'ibikomoka ku matungo, higanjemo amagi n'inyama ndetse hanateguye imbuto n'imboga, zirimo nk'imineke, inkeri, imboga harimo puwavuro ndetse n'ubwoko butandukanye bw'amashu, iruhande rwabyo hari ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ndetse n'agacupa k'amazi iyo ubisoje bigufasha kugira ngo unanure imitsi itandukanye hanyuma bigatuma ufata n'amafunguro,....

Igikoresho kabuhariwe cyifashishwa iyo umuntu yagize ikibazo cy'imvune mu buryo bw'ibanze ashobora kuba yagikoresha. Uyu muntu uhinnye akaboko, bigaragara ko akaboko kiwe kagize ikibazo cy'imvune arimo gukora siporo, mu rwego rwo kwitabara akoresha ubutabazi bw'ibanze, yarambitseho agakoresho kamufasha kuba yagabanya ububabare kamworohereza mu gihe ataragera kwa muganga ngo bamufashe.

Amacupa atatu, ateretse ku meza. Arimo umuti cyangwa se ibinini, byifashishwa mu guhagarika ububabare bukabije. Aho umuntu urwaye ufite ububabare, ashobora gukoresha uyu muti, bikamugabanyiriza ububabare.

Itasi iteretse ku meza, ndetse umuntu afashe ijage ikozwe mu buryo bubonerana arimo asuka amazi meza mu itasi. Bigaragara yuko aya mazi ari meza, azira umwanda ndetse ibikenerwa byose kugira ngo abe meza byayakorewe kugira ngo abe ari meza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye utwuma mu matwi twumwumvisha imiziki imufasha gukora siporo ngororamubiri neza, amanitse amaboko yombi, kame igakoza mu mugongo akandi gafashe ku mutwe. Kugira ngo ananure ibice byo hejuru by'umubiri agororoke neza.

Ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri harimo nko kugabanya amakarori, harimo kugabanya umuvuduko w'amaraso, harimo kugabanya stresse, harimo gufasha mu igogora mu gihe umuntu yakoze siporo neza bishobora kumufasha mu igogora. Harimo ndetse no kugabanya ibiro umuntu akagira ibiro biringaniye bitari byinshi.

Umugore wambaye imyambaro yabigenewe mu gukoresha siporo, ararambutse, arimo arakora siporo ananura ibice bijyiye bitandukanye by'umubiri, yicaye arambuye amaguru ndetse amaboko y'iwe arambuye imbere asa nk'uhinnye umugongo, bigaragara yuko afite ubuzima bwiza ntabwo afite umubyibuho ukabije, siporo yayigize ubuzima, ni byo bituma afite ubuzima bwiza kandi buri umwe wese ukwiye gukora siporo ntabwo agira ibibazo bigira bitandukanye by'umubiri kuko siporo imufasha kugira ubuzima bwiza.

Umugabo usoje ibikorwa bya siporo, yambaye imyenda yabugenewe yo gukoresha siporo, agapira gaciye amaboko, arimo kunywa amazi meza ari mu icupa ribonerana, kunywa amazi usoje siporo ni byiza kuko bikomeza gusohora imyanda mu mubiri.

Umugabo wambaye imyambaro yabugenewe mu gukora siporo. Arimo akora siporo ananura amaguru ndetse n'amaboko kugira ngo imitsi yo mu maguru n'amaboko irambuke. Yafashe akaguru akarambika ku ruzitiro rw'ibiti ruri aho ari gukorera siporo kugira ngo atangire ananura imitsi. Siporo iri muri kimwe gituma umuntu agera cyangwa se abasha kuba yagira ubuzima bwiza.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, gifite idirishya rinini rifite ibirahuri bitanga urumuri ruhagije muri cyo. Kikaba kirimo igikoresho cyabugenewe mu gukora siporo cyangwa se kugorora ibice bigiye bitandukanye by'umubiri, giteye mu buryo bw'intebe, aho umuntu yicara amaboko afashe ku ntebe, hanyuma akarambura akaguru gafashe mu byuma byabugenewe, kigenda kigorora ingingo z'umubiri.

Ibiti bitoshye bigaragara ko ari igiti cya kawa, cyabonye imvura ihagije, iruhande rwacyo muri uyu murima harimo imbuto z'ibihaza, bigenda bikura ariko bitari byazana imbuto z'ibihaza kandi izo kawa zirasasiye n'ibyatsi byinshi.

Umuti witwa Reishi, kabuhariwe mu kurwanya indwara za Amibe, ukaba ari wo muti wenyine ushobora guhangana na Amibe ku kigero cyo hejuru, ni igisubizo ku bantu bose bafite iyo ndwara ya Amibe, bashobora kuwukoresha ukabavura bagakira.

Indabyo nziza ziteye ahantu mu mucaca. Zifite uturabyo twiza tw'amabara agiye atandukanye ku buryo buri wese uzireba abona ari indabyo zikururwa n'amaso yiwe kugira ngo azirebe. Ni nziza cyane zishimiwe kuba ziri aho ziri kandi uzireba wese akaba azikunze.

Igihingwa gitoshye cyakuze neza cyabonye imvura ihagije ku buryo kigenda kizamuka neza mu buryo bugaragara, kitigeze kigwingira cyabonye ifumbire ndetse kigaterwa umuti ku buryo kigikura kimeze neza,

Ibyatsi bimeze ahantu hamwe mu gihuru bigiye bitandukanye. Ibyo byatsi byiganjemo ibifite n'indabyo. Bikaba byifashishwa mu gukora imiti gakondo ishobora kuba yavura indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa menshi atandukanye ashushanyijeho igihingwa k'igikakarubamba, akaba arimo umuti ukozwe mu buryo gakondo, ukaba ukozwe cyane cyane ahanini mu gihingwa cy'igikakarubamba, ukaba uvura indwara zitandukanye z'abantu bashobora kuba bafite.

Igikoresho cyabugenewe gikozwe mu giti. Gikoreshwa kwa muganga. Iyo baba babara imiti cyangwa se abayikura mu gakarito kabugenewe hari bashaka gukuraho runaka kugira ngo bayihereze umurwayi.

Umubyeyi wambaye igitenge kirimo uturongo. Iruhande rw'iwe hari indabyo nziza zifite uturabo twiza. Umubyeyi ari kugenda asoroma uturabo kamwe kamwe kuri kamwe kamwe.

Amabwiriza agenderwaho mu kwandika cyangwa se mu gukora imiti ya gakondo mu bihugu by'Afurika kugira ngo hamenyekane nyirizina isoko y'iyo miti kugira ngo hirindwe imiti y'imikorano itujuje ubuziranenge ku masoko.

Amacupa agiye atandukanye, apanze mu kabati cyangwa se etajeri, akaba arimo imiti igiye itandukanye, ikozwe mu buryo gakondo, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubwoko bune bw'ibihingwa. Hakaba harimo igitoki ndetse n'ubwoko bwa voka ikiri ntoya n'ibindi byatsi n'utundi tubuto duto cyane, ibi byose iyo bihurijwe hamwe bikorwamo umuti gakondo uvura indwara nyinshi zitandukanye.

Igiti kikiri gito, cyiza giteye mu butaka, iruhande rwacyo hanyanyagije garaviye cyangwa se amabuye mato matoya amenaguye, igiti gitanga umwuka uhagije ku bantu bahegereye cyangwa se abahagenda, haba hari umwuka uhagije utangwa na cyo.

Ubwoko bw'indabo bwiza cyane, bw'icyatsi, zitoshye, bigaragara ko zabonye imvura ihagije, ntabwo zigeze zigira ikibazo cyo guhura n'izuba, ziratoshye, ni indabo nziza cyane.

Inzu irimo etajeri nyinshi, zirimo ubwoko butandukanye bw'imiti ikozwe mu buryo gakondo, ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye abantu baba bafite, bashobora gukoresha imiti gakondo ikabafasha gukira.

Agashashi k'umweru gashushanyijeho igihingwa k'igikakarubamba, karimo umuti ukozwe mu buryo gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Hirya yaho hari akandi gacupa k'umweruru, iruhande rwaho hariho uturabyo tw'umweru mo hagati dufitemo ibara ry'umuhondo.

Igihingwa cyiza gitoshye. Akaba ari igiti gifite amababi meza y'icyatsi. Yifashishwa mu gukora imiti gakondo. Ivura indwara zigiye zitandukanye, abafite ibibazo by'uburwayi bashobora gukoresha, ikabavura bagakira.

Igihingwa cyiza gitoshye kandi gifite uturabo. Cyifashishwa ahanini mu gukora imiti gakondo, ivura indwara zigiye zitandukanye. Ku bantu benshi bafite ibibazo by'uburwayi cyangwa se abafashwe n'indwara bashora kuba barandujwe n'abandi, bashobora kuba bakoresha iyo miti ikabavura izo ndwara.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, byiganjemo ibyakorewe mu nganda ariko ahanini bifite aho bihuriye no kongera inyongeramirire ku bafite ibibazo by'intungamubiri muri bo cyangwa se ibibazo by'uburwayi bishobora kuba byabavura ariko banakuyemo intungamubiri zibafasha mu mubiri.

Isahani iriho imbuto z'amacunga akase mu buryo bwiza arambitse ku isani y'umweru. Iruhande rwazo harambitse agacupa k'umweru karimo umuti gakondo wifashishwa mu buryo bugiye butandukanye.

Ibyatsi bikorwamo umutobe, bisa umutuku bifungiye mu ishashi yabugenewe ibirinda kwangirika cyangwa se kuba byaribwa n'udusimba tugiye dutandukanye, bibetswe kugira ngo bizamare igihe kinini, bikiri uko byasaruwe bigifite ubuziranenge.

Umuntu ufite agasekuru gakoze mu ibumba ndetse n'umuhini wako arimo gusekura ibintu bigiye bitandukanye, akaboko kamwe gafasha umuhini akandi gafasha isekuru arimo gusekura.

Udukarito tubiri turimo imiti cyangwa se indyo nyongereramirire, cyane cyane zifashishwa n'abantu bataba babonye intungamubiri zihagije mu biryo turya bashobora kuba bazikoresha zikabongerera intungamubiri cyangwa se zikabavura indwara baba bafite, bazita inyongeramirire.

Ibihingwa byiza byahinzwe mu butaka bwiza. Biratoshye byabonye imvura ihagije. Ariko ibi bihingwa cyangwa se ibi biti byifashishwa mu gukora umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa karimo umuti w'amenyo, wifashishwa mu gusukura amenyo. Uwo muti ukaba ukozwe mu gikakarubamba. Ndetse hari n'uburoso, buri mu gatasi, gakozwe mu ibumba, uburoso bubiri, bukoreshwa mu gusukura amenyo. Hifashishijwe n'umuti usukura amenyo wabugenewe kugira ngo harwanwe isuku nke ituruka ku mwanda, wo mu kanwa.

Umuteguro w'ibinini cyangwa se imiti bikozwe mu byatsi byateguwe. Ukaba ari umuti ushobora kuba wavura, ukozwe mu buryo gakondo hifashishijwe ibikomoka ku buhinzi bw'ibyatsi byahinzwe, ndetse hari n'uducupa turimo uwo muti warangije gukorwa ushobora kuba wavura abafite ibibazo by'uburwayi.

Umurima munini urimo ibiti bya kawa. Kawa aririmo gusarurwa n'umugabo wambaye agapira k'umweru. Yishimiye igikorwa arimo, arimo agenda asarura kawa yeze ayikura ku biti ayishyira mu bikoresho byabugenewe yaje yitwaje.

Agacupa k'umweru karimo imiti yifashishwa mu buvuzi igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye, aho yita cyane cyane gufasha ku bantu bagira ibibazo byo kurangiza vuba, gucika intege mu gihe barimo batera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ndetse ikanavura nanone cyane cyane indwara zifata imyanya cyane cyane ibikwamo intanga ku bagabo.

Imiti igiye itandukanyekanya ikozwe mu bihingwa cyangwa se mu byatsi, hari agasekuru kagenda gasekurwamo iyo miti ivuye muri ibyo byatsi, igashyirwa mu dukoresho twabugenewe hakurikijwe umuti ku muti, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ikaba ikozwe mu buryo gakondo.

Ishyamba rifite ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, muri ibyo byatsi harimo byinshi bikorwamo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye, aho abashakashatsi cyangwa se abahanga mu kuyikora, babishakira barangiza bakabikoresha mu gukora imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibikoresho birimo ibihingwa bigiye bitandukanye byifashishwa gukora imiti, nta na kimwe gisa n'ikindi kandi bifite imimaro igiye itandukanye, biteretse mu bikoresho, byabugenewe bibifasha gutuma bihora bitoshye, biri mu butaka ndetse n'amazi ahagije kugira ngo bikure neza.

Umuteguro urimo ibiribwa ndetse n'ibindi byifashishwa gutegura amafunguro, harimo inanasi, imineke, indabyo z'umuhondo zimeze neza ndetse n'utundi dukarito turimo ibyakorewe mu nganda twifashishwa mu gutegura amafunguro, harimo nk'umunyu, amajyani yo gukoresha mu guteka icyayi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igihingwa cy'ururabyo, gifite uturabyo twiza cyane tw'ubururu, tukaba ari uturabyo twifashishwa cyane cyane ahanini mu gukora imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Igihingwa cyitwa tungurusumu kiri mu byifashishwa mu gukora imiti gakondo igiye itandukanye ishobora kuvura indwara zimwe na zimwe umuntu ashobora kuba afite mu buryo butandukanye.

Umuteguro w'imbuto ndetse n'ubuki biri kumeza hamwe, ndetse n'agacupa k'umweru karimo umuti ugiye utandukanye. Bigaragara yuko kuvanga izo mbuto n'ubuki n'umuti uri mu gacupa bishobora gufasha kuvura indwara zimwe na zimwe zo m'umubiri umuntu afite.

Agakarito k'umweru. Karimo umuti ukozwe mu buryo gakondo, uvura indwara zigiye zitandukanye. Ukaba uriho ingano y'umuti nyirizina urimo imbere. Amagarama magana atanu.

Uducupa dusa ubururu, turimo imiti yakozwe mu buryo gakondo ikaba yifashishwa mu kurwanya indwara zimwe na zimwe, cyangwa se abafite ibibazo by'uburwayi bishoboka kuba bayikoresha ikaba yabafasha gukira ubwo burwayi bwabo.

Igihingwa cya tangawize kibarizwa mu itsinda ry'imbuto n'imboga, kikaba gishobora kwifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye ku muntu uzifite abashije kuba yagikoresha, akaba yakira.

Ingemwe y'igihingwa ikiri ntoya itegereje kuba yajya guhingwa mu gitaka, ikaba ari ibyatsi cyangwa se igihingwa kifashishwa mu gukora imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye byafashwe birasywa, bikaba byavuyemo umuti ukozwe mu byatsi mu buryo gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umurima urimo ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse n'ibiti. Bigaragara yuko aha ngaha hadahingwa cyangwa se hadakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi ahubwo hakorerwa ibikorwa by'ubworozi harimo ubwatsi bwiza amatungo ashobora kurisha.

Ibimera bigiye bitandukanye bitoshye bimeze neza, biri mu byiciro bigiye bitandukanye buri kimwe gitandukanye n'ikindi, kandi bifite uburyo ki bikuramo bugiye butandukanye. Buri kimwe nta kimera gisa n'ikindi mu bimera dufite hano.

Ikirangantego kigaragaza cyangwa se gishushanya ikigo k'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwita ku miti n'ibiribwa. Kikaba kigizwe n'amahundo abiri y'ingano akoze uruziga. Hagati hakaba harimo irindi shusho muri rusange kigaragaza ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku miti n'ibiribwa.